Aba ni abana bambaye impuzankano imbere mu gatuza ku mpuzankan handitseho yunisefu, iki kikaba ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana.

Umuntu umeze nk'umugabo ndetse n'abandi bana batoya baririye kumugezi upopwa kugira amazi aze barimo baravoma, imbere yabo hari utubido tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo.

Umwana w'umukobwa ubona ko asutse ibituta, akaba ari kuri robine ari koga intoki. Ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse n'ingaruka zose ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bicaye ahasa nko mu cyumba gisashemo tapi ndetse n'imikeka igiye itandukanye bakoze uruziga ndetse bakaba bambaye impuzankano, harimo umugore umwe w'umuzungu bisa nk'aho aba bantu bakuru bahari barimo baraganiriza bano bana.

Ahantu ubona ko hicaye abantu benshi bagiye batandukanye, abenshi bakaba ar’ababyeyi bafite abana bambaye imyambaro y'umuhondo. Hakaba har’umusore wambaye umwenda w'umuhondo, aho afite icyansi arimo araha umwana amata.

Abagore benshi bagiye batandukanye bari mu cyumba gisa nk’aho ar’icyumba gishushanyijemo udushushanyo tw’abana, abo bagore imbere yabo hakaba har’umugore wambaye ishati idoze mu gitambaro kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'cyatsi, wifashe mu mayunguyungu asa nk’aho yishimye cyane areba muri camera.

Ahantu hari abantu benshi ubona bo mu ngeri zigiye zitandukanye, hakaba hari umugabo wunamye kuri robine wambaye ishati y'ubururu, aho imbere ye hari umwana mutoya ufite akabido uri kuvoma kuri robine. Abantu urabona ko barimo baragenda, inyuma yabo hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amazu.

Abantu benshi bateraniye ku mugezi, aho hari umumama wambaye umupira wenda gusa icyatsi, urimo arapompa umugezi kugira ngo amazi aze, imbere hari umwana wambaye umupira w'umutuku aho arimo aratereka amajerekani neza kugira ngo amazi ajyemo, inyuma y'abo bantu bose hari insina z'ibitoki.

Umwana wambaye umupira usa iroza, akaba ari kumwe n'umugabo wambaye akajiri wagira ngo ni impuzankano. Akaba ari gukorera uwo mwana ijerekani yanditseho UNICEF, iryo jambo UNICEF rikaba ryanditse mu nyuguti z'umweru, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara y'ubururu.

Abantu benshi bahagaze barimo bashungera umugore uri gupompa robine, kugira umwana uri munsi yayo ufite amajerekani abashe kuvoma, inyuma y'abo bantu bahagaze bashungera hari insina ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Abana bahagaze mu mazi yikiyaga aho bose bafite udukoresho barimo bayadaha, inyuma yabo hari ikintu kimeze nkaho ari umusozi kuburyo ubona ko uwo mugezi uri munsi y'uwo musozi.

Umugabo wambaye ingofero isa n'umupira yambaye ndetse n'agapfukamunwa n'amarinete, akoreye umwana ikijerekani kinini, imbere ye hari umugore w'umuzungu urimo arafotora uwo mugabo, inyuma yabo hahagaze abandi bantu bashungereye.

Abadamu bicaye ahantu hameze nko mu cyumba cy'inama, aho bafite ibitabo barimo barandika, mu bigaragara nuko imbere yabo hari umuntu urimo aragenda abaha inama, nabo bamuteze amatwi.

Umusore wicaranye n'umuganga wambaye itabuririya y'umweru aho uwo muganga afite igitabo kinini arimo arandika imwe mu myirondoro y'uwo musore. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abana babiri umwe usa nkaho ari mukuru wisumbuyeho afite isabune arimo arakaraba amazi meza ndetse n'isabune akaraba intoki ze imbere ye hari umwana mutoya ufite akantu kameze nk'akabinika arimo arafasha mukuru we amusukira amazi kugira ngo yoge intoki.

Ibiganza by'umuntu aho arimo aroga ku gakoresho kameze nka kandagira ukarabe, ari koga amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde imyanda n'ingaruka ziterwa n'umwanda.

Ahantu hagaragara ibiti byiza bitohereye, imbere y'ibyo biti hakaba hari abantu, akaba ari umugore n'umugabo barimo baravoma amazi kuri rubine, bose bafite amajerekani y'umuhondo.

Abana batoya ubona ko basutamye ku mugezi barimo bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda umwanda, ndetse no kwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi urimo arapompa umugezi kugira ngo abana bane bahagaze imbere y'umugezi bavome. Imbere y'abo bana hakaba hari utubido baje kuvomeramo amazi. Hirya hari imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse biragaragara ko bari ahantu mu misozi hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Imbere y'inyubako hari abantu benshi bagiye batandukanye bari mu ngeri zigiye zitandukanye, hakaba hari amatente ahubatse ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ku gikuta cy'iyo nzu hakaba hariho icyapa kiriho amagambo atagaragara neza.

Mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, harimo abaganga b'inzobere ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byabugenewe byifashisha ikoranabuhanga, aha hakaba hagaragara igikoresho kimeze nk'akamashini, kariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, aka gakoresho kakaba kifashishwa kerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze buri munota.

Abantu benshi bari imbere y'inzu, hakaba harimo abagabo n'abagore, iyo nzu ikaba yanditseho ko ari sare de konferense, iruhande rwabo hakaba hari icyapa kiriho ishusho y'umuntu ariko amagambo yanditse aha atagaragara neza.

Ni umwana bigaragara ko ari umuhungu wambaye ishati y’icyatsi, akaba ari kuri robine ari koga intoki. Inyuma ye hari indobo y’ubururu ihagaritse ndetse n'imbere ye hari ikindi kidobo cy'ubururu cyihateretse, bisa nk’aho yaje kuvomeramo amazi.

Umugore ubona ko akuze ariko atari mukuru cyane, wikoreye ijerekani y'umuhondo avuye kuvoma, aho iyo jerekani ipfundikishije ishashi ndetse n'umufuniko w'umweru. Iruhande rwe hari utwana tubiri kamwe kunamye akandi gasa nk'aho kamurangariye. Mu bigaragara uyu mugore avuye kuvoma arimo arajya iwe.

Umubyeyi ushigatiye umwana ku rubavu rwe rw'ibumoso, akaba ari kuri rubine arimo aravoma amazi. Inyuma ye aragaragara ishyamba ririmo ibiti by'inganzamarumbu ndetse akaba ari ibiti bigaragara neza cyane. Mu bigaragara ni uko uyu mubyeyi yishimiye ko ari kuvoma amazi kandi hafi hamwegereye.

Abagabo babiri ubona ko barimo barasuhuzanya bose bakaba bambaye amakoti y'ikositimu, iruhande rwabo hari agacupa kahateretse ndetse hari na mikorofone ihari. Aba bagabo bakaba bahagaze imbere y'icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse cyandikishijweho amagambo y'umuhondo.

Abantu benshi bagiye batandukanye ubona ko bateraniye kuri robine aho barimo baravoma, harimo abana bafite utubido ndetse abenshi muri bo, bafite indobo baje kwitwazamo ayo mazi.

Ibiganza by'umuntu utari kugaragara neza, ariko akaba ari mu gikorwa cyiza cyane cy'isuku, ari kuri rubine aho arimo aroga intoki akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde umwanda ndetse n'indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bateraniye muri sare y'inama, aho ubona hagiye harimo ibintu bigiye bitandukanye. Hari ahari ameza ateretseho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi. Imbere yabo hari abantu babiri bahari, basa n'aho ari bo bayoboye inama ndetse hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe, ndetse akaba yikingiye igitenge. Biragaragara ko ari mu rugo iwe. Uyu mugore akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe yiyubakiye mu rugo, akoresheje amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse n'ibibazo bituruka ku mwanda.

Abana benshi bagiye ku mugezi kuvoma amazi, ariko akaba ari umugezi usaba ko bawupompa kugira ngo amazi aze. Hari umuntu umwe wambaye imyenda y'ubururu urimo urapompa amazi kugira ngo aze, ku mugezi hateretse utubido twinshi tugiye dutandukanye, turi mu mabara agiye atandukanye bari butwaremo amazi.

Ahantu ku ivomero hakaba hateraniye abantu bagiye batandukanye, akaba ari ivomero risaba ko hari umuntu upomba, hari umugabo uri gupomba kugira ngo amazi ajye mu ijerekani y'umuhondo bateretse kuri robine.

Umwana mutoya wambaye umupira w'umutuku ari kuri rubine arimo aroga intoki . Kuri iyo robine hakaba hariho icyapa cyanditseho wasake . Uyu mwana ubona ko arangariye inyuma , bisa nkaho hari umuntu uriyo uri kumuvugisha.

Umubyeyi ukikiye akana, ubona ko ako kana kari gafite ikibazo cy'ubuzima. Kakaba kari kwitabwaho n'umuganga, wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, aho arimo arasuzuma ku mutwe wa ko ngo arebe ikibazo uwo mwana afite.

Ni muri sale ubona ko hateraniyemo abagore benshi bafite abana ndetse amatara arimo araka. Hari umumama ushigatiye umwana ndetse ufite agapapuro kameze nk'ifishi wagira ngo baje gukingiza abana cyangwa kugira ikintu babapimisha.

Umwana mutoya bigaragara ko ari umuhungu, akaba ahagaze ahantu hari icyuzi kinini, aho yadubitse ijerekani y'umuhondo mu mazi, bigaragara ko ari kuvoma kandi mu by'ukuri urabona ko uyu mwana rwose ashishikajwe nibyo ari gukora.

Abantu bicaye mu cyumba, ubona ko ari icyumba cyiza. Bicaye ku meza bararebana. Imbere yabo hari umugabo uhicaye, iruhande rwe hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ku meza hateretse uducupa tw'amazi. Bigaragara ko bano bantu, hari ikintu cy'ingenzi barimo baraganiraho.

Umukobwa ufite igitenge ku rutugu rwe ndetse n'umwana wicaye hasi, baje kuvoma amazi y'isoko atemba. Bakaba bafite indobo bishoboka ko baje kuvoma amazi, bayavomera ku kavovu amanukaho.

Abantu bari ahantu kuri robine ifite ibara ry'ubururu, aho barimo baravoma amazi, hari ijerekani ihateretse irimo umubirikira batezeho kugira ngo amazi atameneka. Hari umumama ubona uhagaze wambaye agapfukamunwa ndetse n'umusore ufite telefone ngendanwa mu ntoki.

Abantu bameze nk'abaganga bisa nk'aho bambaye impuzankano bakaba bari mu itente, imbere yabo ku meza hakaba hateretse utubogisi twinshi turimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bishobora kuba ari imiti baje kwifashisha bavura abaturage batandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi imbere hari umusore wambaye umwambaro wa oranje ndetse n'undi mugabo ufite mikorofone mu ntoki hagati yabo harimo umubyeyi usa nkaho aziritse amaboko, iruhande rw'umusore wambaye umupira wa oranje hari icyapa cyanditseho ngo facts about Ebola.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, kuri iki cyapa hakaba hariho akantu kameze nk'umubumbe karimo ishusho y'umubyeyi uteruye mwana, iruhande rwako hakaba hariho amasaka. Handitseho unicef for every child.

Abantu benshi bambaye impuzankano, ubona ko bari munsi y'amahema. Biragaragara ko hari igikorwa runaka bari barimo cyerekeranye n'ubuzima ndetse hari abantu benshi barimo baraganira.

Ahantu hameze nko ku kigo cy'ishuri, aho hari abana benshi bambaye impuzankano. Hejuru ku meza hateretse utuntu tumeze nka kandagira ukarabe, aho buri mwana ari gufata igikombe akaza kuvoma amazi yo kunywa.

Abantu bicaye ahantu hameze nk'ahari kubera inama. Ku meza yabo hateretse udupapuro twanditseho amazina y'abantu bagiye batandukanye, ndetse n'uducupa turimo amazi. Ikigaragara ni uko hari umuntu uri imbere uyoboye inama bose bateze amatwi.

Abana babiri b'abahungu bagiye ku ivomero kuvoma ariko akaba ari ryavomero risaba gupompa, umwana umwe arimo arapompa undi mwana yashyizeho utubido ari kuvoma, urabona ko yishimye cyane arimo araseka.

Abantu bari imbere y'inzu isize ibara ry'ubururu, ubona ko harimo abaganga bambaye amataburiya y'akazi, iyo nzu hejuru yayo hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima helufu positi.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko baje kuri robine kuvoma, imbere ya rubine hakaba hari umukobwa ufite igitenge ndetse n'akandi kana kambaye ikanzu y'umweru irimo uturongo tw'umukara, hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye baje gutwaramo ayo mazi, mu bigaragara iyi robine ikaba iri ahantu hagati mu mudugudu.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu, ubona ko ari abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, imbere y'iyo nzu kandi hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hubatse n'amatente, ku rukuta rw'iyo nzu hariho icyapa cyanditseho amagambo atagaragara neza.

Abantu bagera kuri batandatu bicaye imbere, iruhande rwabo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere kuri buri muntu hagiye hateretse agacupa k'amazi, ndetse na mikorofone, bigaragara ko hari abantu bicaye bumva ibyo bababwira, ikindi inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambogambo atagaragara neza.

Umusore wambaye umupira wa oranje n'amarinete washyize umwana ku munzani, ndetse uwo mwana muto bakaba na we bamwambitse umupira wa oranje, impande y'uwo munzani yahashyize terefone ye igendanwa.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ahantu hameze nko muri sale, harimo; abagabo, abagore, abasore ndetse n'inkumi mu bigaragara ni uko hari umuntu uri imbere urimo arabagezaho ikiganiro na bo bamukurikiye.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe uri hejuru y'udufuka; aho bateruye agafuka basa nkaho barimo babupanga neza; mu byukuri rero bisa nkaho ari sitoke bari gukora cyangwa ari ugufashanya kugira ngo imirimo yihute.

Abaforomokazi batatu bicaye mu cyumba, aho imbere ku meza hari ibitabo binini ndetse babiri muri abo baforomokazi, bafite udufishe tw'icyatsi bisa nk'aho barimo bandika muri ibyo bitabo. Ku ruhande hari undi muforomokazi uhicaye usa nk'aho ari kubareba, ndetse muri icyo cyumba harimo n'ibindi bintu byinshi bihapanze.

Ni ahantu hagaragara nkaho ari kwa muganga. Hari abantu bahicaye bagiye batandukanye, hicaye abamama babiri ndetse imbere yabo hari umumama uhari ufite umwana mutoya, bisa nkaho hari ibyo yaje gusuzumisha uno mwana. Abo babyeyi ku meza hariho imashini ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Abantu benshi bari ahantu hameze nk'aho ari munsi y'igiti, hakaba harimo abambaye impuzankano. Imbere y'abo bantu hakaba hicaye umuntu ku ntebe wambaye akajiri k'umweru mu imbere harimo umupira w'umutuku. Abongabo basa nk'aho barimo baramuganiriza bitewe n'ikibazo runaka afite.

Umumama uri kumwe n'abana babiri, aho arimo aravoma amazi kuri rubine. Afite ijerekani y'umuhondo, aho yayishyize hasi, ateze amazi, ayavoma neza, kugira ngo atameneka. Arishimye rwose, kuko yishimiye iki gikorwa remezo cyamwegerejwe.

Ahantu hari ibiti byinshi aho hateretse ikintu kimeze nka kandagira ukarabe, munsi y'igiti hakaba hari umwana w'umukobwa wambaye impuzankano urimo urakaraba amazi meza n'isabune kugirango yirinde umwanda, hirya ye hari utundi twana turimo turagenda.

Ni mu cyumba bigaragara ko harimo haraberamo inama, umugabo umwe yicaye imbere ya bose aho abandi bagabo babiri ndetse n'abagore babiri bicaye ku mpande ebyiri zitandukanye ariko barebana, imbere yabo hateretse ameza, kuri ayo meza hateretseho uducupa tw'amazi telefoni ndetse n'ibikayi barimo bandikamo

Umu mama uri kumwe n'abana benshi ku ivomero, rikaba ari ivomero risaba ko bapompa kugira ngo amazi aze, ku mugezi kandi hateretse amabasi, amajerekani, ndetse n'indobo, baje kuvomeramo ayo mazi.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo watebeje ndetse yambaye n'agakabutura k'ubururu, inyuma ye hakaba hari ikidendezi cy'amazi, akaba afite ibikombe bibiri by'ibirahure birimo amazi, inyuma y'kidendezi cyamazi hari utundi twana tuhahagaze.

Umubyeyi ufite umwana mutoya wamuzanye kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo afite. Hakaba ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru urimo uraseka, aho ari kugerageza gupima uwo mwana kugira ngo arebe ikibazo afite.

Abamama ndetse n'abapapa bambaye impuzankano ndetse bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba bafite ibintu bisa nk'aho aribyo bahawe wagira ngo ni seritifika, bari imbere y'inzu ifite inkingi z'umweru ndetse inyuma yabo hari ibyapa by'ibigo bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye ahantu hameze nko munsi y'ibiti, ubona ko harimo utwana dusa nkaho twambaye impuzankano, hari umugabo wambaye umupira wa oranje, aho ari gusuhuzanya n'akana gatoya, ubona ko bishimiranye.

Abantu bari ahantu heza cyane, ubona ko ari mu cyumba cyabereyemo inama, hakaba hari umudamu uhagaze imbere yabo, asa nk'aho hari ibintu ari kubabwira, ku meza hagiye hariho uducupa turimo amazi ndetse hari n'ameza ateretseho marete z'abadamu baje muri iyo nama.

Ababyeyi benshi bicaye ahantu hamwe ubona ko buri mubyeyi afite uruhinja rwe, mu bigaragara ni uko aba babyeyi bashobora kuba bari baje ku kigo nderabuzima kugira ngo babashe gukingiza no gupimisha abana babo kugira ngo bamenye uburyo ubuzima bw'abana babo buhagaze.

Abantu bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, aho hari abagabo babiri bicaye imbere, imbere yabo hari mikorofone bisa nkaho aribo bayoboye inama. Hari n'abandi bicaye babateze amatwi. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yo guhagarika icyorezo cya Murburg.

Abantu benshi bicaye muri sare imeze nkaho ari sare y'inama, aho buri ku meza agiye hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro, bari kwifashisha bandikaho ibintu byibanze bisa nkaho imbere hari umuntu bateze amatwi uri kubaha ikiganiro.

Umukecuru wambaye ingofero mu mutwe, akaba ari kuri robine arimo avoma amazi, imbere ye hari ijerekani y'umuhondo ihateretse, inyuma ye hari imisozi irimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Abamama babiri bigaragara ko baje kwa muganga, aho barimo baritabwaho n'abaganga babishinzwe. Abaganga bari kubajomba urushinge bigaragara ko wagira ngo ni urukingo barimo babatera.

Ahantu hari ababyeyi b'aba mama bagiye batandukanye. Hakaba hari umuganga urimo arabafasha kubapima kugira ngo arebe uko ubuzima bwabo buhagaze . Inyuma hari akajaride gateyemo utwatsi twiza dutoshye ndetse hagaragara n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni umugore wicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umweru, akaba ari kumwe n'umuganga urimo aramutera urushinge ku rutugu. Gusa mu bigaragara ni uko uyu mugore asa nkaho atinya urushinge. Inyuma ye hakaba hahagaze undi muntu urimo urareba icyo gikorwa uko kiri kugenda.

Abantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko bateraniye ku ivomero. Iryo vomero rikaba riri mu ibara ryenda gusa ubururu. Aho hari robine eshatu zose ziri kuzana amazi. Abo bantu bose bakaba bafite indobo ndetse n'amajerekani, ubona ko baje kuvoma amazi. Harimo umugabo wambaye ingofero bakorana ikiyede.

Umwana wambaye impuzankano, akaba ari ku kigega ari kuvoma amazi ayavomera mu gikombe, akaba ari ahantu imbere y'igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara, mu bigaragara ni uko uyu mwana yaje kuvoma amazi yo kunywa.

Ni umugore wikoreye indobo y'umutuku ndetse ufite n'indobo y'umuhondo mu kaboko ke k'iburyo, mu bigaragara ni uko avuye kuri robine kuvoma, imbere ye hari amazu ndetse haragaragara ko hari abandi bantu bariyo.

Abadamu bari ku mugezi aho bagiye kuvoma, babiri bakaba barimo bapompa umugezi kugira ngo amazi abashe kuba yaza, undi mudamu afashe indobo, aho yateze neza kugira ngo amazi ajyemo atamenetse.

Abantu bicaye mu cyumba kimeze nk'icy'inama, imbere hakaba hicaye abantu bagera kuri batandatu, basa nk'aho aribo bayoboye inama, hakaba hari n'abandi bicaye babakurikiye, inyuma y'abo bantu batandatu hakaba hari icyapa kiriho amashusho y'abantu bisa nk'aho bari kwiyamamaza.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano bari munsi y'igiti cy'inganzamarumbo, hakaba harimo umugore umwe ugaragara w'umuzungu, inyuma yabo hari inyubako zihari, bafite icyapa cyanditseho RBC handitseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Ahantu mu nzu hateraniye abantu bagiye batandukanye, bicaye ku mpande ebyiri, uruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso, imbere yabo hakaba hari abandi bantu babiri bicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze, bisa nkaho hari serivisi barimo barahaka.

Ni umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, akaba ari kumwe n'umugore w'umuzungu aho bafite akantu kameze nk'umusego kari mu ibara ry'umukara, kandikishijeho amagambo y'umweru agira ati Visit Rwanda.

Ahantu hicaye abantu benshi, hakaba hari umwana wambaye ishati y'ubururu, uri kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na baji yambaye n'uturindantoki. Akaba arimo aramutera urushinge, bisa nkaho wagira ngo ari kumutera urukingo rw'indwara runaka.

Nii ibiganza by'umuntu utagaragara neza isura, aho ari ku mugezi, ari gukaraba intoki gusa mu bigaragara ni uwo muntu ashobora kuba yambaye ishati y'ubururu, ari ku ruhombo ruri kuzana amazi, aho ari gukaraba intoki kugirango yirinde umwanda.

Ni umugabo ubona ko yambaye neza, akaba yambaye ishati yenda gusa ubururu, ipantaro y'umukara ndetse na congo z'umukara. Akaba ari imbere y'inzu aho ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe. Iruhande rwa kandagira ukarabe hari ibirabyo bihari.

Ni icyapa kiriho ibigo byinshi bigiye bitandukanye, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru. Ibyo bigo bikaba byandikishije inyuguti zigiye zitandukanye. Hariho nk'ikigo cya UNICEF ndetse hakabaho n'ikigo cya Hayijine habu, gishinzwe kurwanya ibya korona virusi.

Abantu bari mucyumba gisa nk'aho ari icy'inama basa nk'aho hari ingingo bari kuganiraho . Ku meza hariho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse hakaba hateretse n'uducupa tw'amazi. Imbere yabo hari ikintu cyenda kugaragara nk'aho ari televiziyo iri kubereka amashusho.

Ni icyapa kiri mu kantu kameze nk'umubumbe w'isi, kari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi hakaba handitseho amagambo agira ati gorobo herifu oruganizasheni.

Abantu bambaye impusankano, bakaba bari kumwe n'abandi b'abapolisi, bisa nkaho bari gutera akarima k'igikoni, urabona ko ari ibintu bishimiye, ndetse rwose bari kubikorana umutima ukunze.

Abantu benshi bateraniye ku mugezi, ku mugezi hakaba hari abana babiri, umwe arimo arapompa umugezi, undi arimo aravoma, hakaba hari akandi kana ubona kambaye imyenda isa nabi gafite utubido tubiri nako kaje kuvoma.

Abana bari ku ku mugezi, aho umwana umwe arimo arapompa kugira ngo amazi abashe kuza, ku mugezi hateretse ijerekani, ariko iteretse ku ruhande amazi arimo arameneka, harimo akana kambaye umupira w'umutuku ndetse na bote, ubona ko bose baje kuvoma, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi.

Inzu imeze nk'aho yabereyemo inama hakaba harimo abasore bambaye imipira isa ndetse hakaba hicaye abantu bagiye batandukanye bisa nk'aho hari abantu bari imbere bayoboye inama bateze amatwi .

Umusaza wambaye ishati y'umutuku, akaba yicaye hasi aho yambaye amapingu ku maboko ye. Har’amafoto barimo bamushyiraho, inyuma ye haragaragara umuntu wambaye impuzankano imeze nkaho ari iya polisi.

Umugabo wambaye imyenda yamucikiyeho, wicaye ahantu yegamye yitangirije itama. Biragaragara ko mu kaboko ke k'ibumoso afitemo amazi wagira ngo ari mu ishashi, uyu mugabo mu bigaragara ni uko afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se akaba yarahuye n'ihungabana.

Umugabo n'umugore bicaye ahantu, umugore akaba afite microphone mu ntoki, arimo arasa nkaho hari ijambo ari kuvuga. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi bihateye, ubona ko hari n'ipoto y'icyuma ihari.

Ababyeyi babiri bafite abana batoya, imbere yabo hakaba hari umukobwa usa nkaho ari kuganiriza bano babyeyi. Ku meza hateretse umunzani ndetse na telefone ngendanwa, inyuma yabo gato ku kabati hateretse igikoresho cyifashishwa hashyushywa amazi cyangwa se icyayi.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ahantu mu cyumba, hakaba harimo abaganga ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe ariko bambaye baji zabo mu ijosi, hakaba hagaragara umugore w'umuganga wambaye baji mu ijosi, amarinete ndetse akaba afite ikaramu mu ijosi, ku meza hakaba hateretse uducupa tw'amazi.

Umumama ubona ko arimo araseka, uyu mumama akaba ari iwe mu rugo ahetse umwana ndetse undi mwana amuhagaze iruhande, uwo mwana ahetse amuheste muri kigoma isa umweru, biragaragara ko arimo arashigisha igikoma kuko hari agasafuriya gateretse ku mashyiga, iruhande rwabo hari igikoresho kiri mu ibara ry'icya.

Abantu benshi bagiye batandukanye abiganje bakaba ari abapolisi bambaye impuzankano, inyuma yabo hakaba hariho icyapa cyanditseho regeno senta ovu egiserense onu jenda beze viyorense andi cadihudu.

Ni ahantu hameze nko mu ishyamba hakaba hicaye umugore, umugore ubona ko ahangayitse. Yicaye iruhande rw'igiti ndetse uwo mugore akaba aziritse umunyururu ufashe ku kaguru ke, uwo munyururu ukaba ufashe no kuri icyo giti. Kuri icyo giti handitseho amazina y'abantu bagiye batandukanye.

Abana ubona ko babayeho mu buzima butari bwiza, bakaba bari ahantu bambaye imyenda isa nabi, ubona ko ari abana bafite ikibazo cy'ubuzima, ni abana bameze nk'aho ari abana bo ku mihanda ndetse bano bana bakaba bashobora kuba basabiriza.

Umugabo wicaye hasi wegamye ku gikuta ubona ko yambaye imyenda ariko idaheruka gufurwa idafite isuku, uyu mugabo yicaye ahantu ubona ko yigunze bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yahuye n'ihungabana.

Umukecuru ubona ko akuze, akaba yicaye hagati mu bana batoya. Mu bigaragara ni uko bano bana bose bari gutega amatwi uyu mukecuru, biragaragara ko hari ikintu ashobora kuba ari kubabwira, abaganiriza.

Ni abantu bari mu nzu imeze nka sare y'inama, aho harimo abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye. Inyuma yabo hari akapa kari mu mabara y'ubururu, kandikishijeho amagambo y'umweru mu magambo agira ati "yunisefu". Iruhande rwako hakaba hari ifoto imanitse.

Umugabo wicaye ahantu hasi ubona ko asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se afite ihungabana runaka. Yicayemo imbere mu ipine ndetse afite umusatsi mwinshi wamwereyeho. Iruhande rwe ahagaragara amaguru y'abandi bantu batagaragara.

Ni umwana umeze nk'aho ari umuhungu, wicaye ahantu mu kizu ameze nk'aho yafungiranywemo, uwo mwana akaba yambaye ubusa umubiri we wose, mu bigaragara ni uko uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yarahuye n'ihungabana rigiye ritandukanye.

Ni ahantu ubona ko ari hanini cyane wagira ngo ni muri sare y'inama, hakaba harimo abagore bagiye batandukanye ndetse n'abagabo, abenshi muri bo bakaba bambaye baje mu ijosi. Hakaba hari abagore barimo bakoma amashyi ubona ko bishimye, ku meza hakaba hateretse ibintu byinshi bitandukanye, birimo uducupa tw'amazi.

Umugore ucigatiwe n'umugabo ndetse n'undi mugore, uwo mugore akaba yambaye imyenda yacikaguritse, mu bigaragara ni uko uyu mugore bafashe ameze nk'ufite ikibazo cy'ihungabana cyangwa wagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo ubona uri ahantu hameze nk'ahajugunywa imyanda, akaba afite ibintu byinshi bimuriho mu bigaragara ni uko uyu mugabo ashobora kuba yaragize ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ikibazo cy'ihungabana.

Umusaza ufite imisatsi myinshi cyane witezemo agatambaro k'umweru, wambaye ishati y'ubururu ndetse akaba ameze nk'uwiteye umwitero. Ni umusaza ubona ko yakutse amenyo yo hejuru no hasi, bisa nkaho uyu musaza ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Cyangwa se afite ihungabana runaka.

Umudamu ufite imisatsi myiza cyane, wambaye agakote gasa ubururu, mo imbere akaba yambariyemo ishati isa umutuku. Akaba ahagaze imbere y'igikuta kiriho icyapa cyanditseho ngo patinazi ini herifu.

Ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye ubona ko bari mu mirimo igiye itandukanye, haragaragara umugore ufite inkwi mu ntoki, imbere ye hari umwana mutoya urimo urarira, bigaragara ko uyu mwana afite ikibazo cyatumye arimo ararira.

Umusore uhagaze imbere y'imodoka akaba yambaye imyenda yacikaguritse, mu maboko ye yombi afashemo ibintu ndetse akaba yatamiye akantu kameze nka bombo mu bigaragara ni uko uyu musore ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yaragize ihungabana.

Umugabo ubona ko akeye yambaye neza, bigaragara ko ari umusirimu, ari gusuhuza undi mugabo wambaye inshabari, imyenda yacikiyeho ndetse umusatsi wereyeho, bigaragara ko uyu mugabo umusatsi wereyeho ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se yarahuye n'ihungabana runaka.

Ni icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye aho handitseho ngo Isange Wani Stopu Senta, iki cyapa kikaba kiriho Unicef ni ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana ku isi.

Umubyeyi ubona ko yishimye cyane ufite imisatsi y'umukara, akaba ateruye akana k'agahinja na ko ubona ko kanezerewe, mu bigaragara ni uko uyu mubyeyi n'uyu mwana bafite ibibatunga ndetse bishimiye.

Umugore wicaye ahantu ku ntebe inyuma ye ku gikuta hakaba hashushanyijeho ikirabyo , umugore akaba yicaye ameze nk'umuntu wigunze. Akaba yitandiye igitambaro cy'umuhondo ku mutwe. Usa naho warangariye ibintu ari kureba hirya ye.

Ni abantu bicaye mu ntebe zegamirwa ubona ko hari inama bitabiriye, imbere hari umuntu urimo arabigisha ku kintu runaka, asa nk'aho yaporojegise ibintu ari kubereka. Iruhande rwe inyuma ye hari televiziyo yerekana amashusho ihari.

Umusore ufite isume y'umweru ku rutugu, akaba afashe mu ntoki ze urudodo yacishije mu menyo, ubu bukaba ari uburyo bwiza, akaba ari inama yagiriwe n'abaganga bashinzwe kwita ku buzima bw'amenyo, kugira ngo arebe ko amenyo ye yayarinda ibibazo.

Umubyeyi ubona ko ari kumwe n'umwana we bose bambaye udusengero tw'umweru ndetse bafite uburoso buriho na corogati aho barimo baroza amenyo, ubu akaba ari uburyo bwiza bufasha amenyo yacu kudahura n'indwara nyinshi zigiye zitandu.

Umubyeyi ubona ko ari mukuru, akaba ari hamwe n'umwana, bose bambaye imipira y'umweru, ndetse bose bafite akadodo bacishije mu kanwa. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku menyo, kugira ngo ntihagire ikibazo gikomeye agira.

Umusore wasamye wakojeje agatoki ke ku menyo, imbere ye hari ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki, ufite igikoresho cyabugenewe akoresha asuzuma uburwayi bw'amenyo, uyu musore mu bigaragara ni uko ari kumwereka iryinyo kugirango umuganga abashe kuba yabyitaho.

Abaganga babiri bambaye impuzankano ariko zidasa, umwe yambaye itaburiya y'umweru, undi yambaye itaburiya y'ubururu, bari ku murwayi aho barimo barareba ikibazo cy'amenyo afite, aho iyo basanze iryinyo rye ryarangiritse barikuramo.

Ni umukobwa ubona ko ari umukobwa mwiza cyane, ufite imisatsi itunganyije neza y'umukara wambaye iherena, akaba aryamye ku gatanda kabugenewe kwa muganga, aho umuganga arimo aragerageza kureba ikibazo uwo mukobwa afite mu menyo ye.

Abantu bahagaze imbere ku kibaho, bisa nk'aho bagiye mu kigo cy'amashuri. Hakaba harimo umugore umwe w'umuzungu. Umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari kumwe n'akana kambaye impuzankano y'ishuri, aho gafite igikoresho kiriho amenyo. Bisa nk'aho uyu muganga yize ibintu by'amenyo, akaba ari gusobanurira uyu mwana.

Umuntu ubona gakeye, uyu muntu biragaragara ko ari umusore cyangwa ari umugabo, afite akadodo arimo arakanyuza mu menyo, amenyo ye biragaragara ko ayitaho kuko arasa neza cyane.

Abagore babiri bicaye ahantu mu cyumba cyiza cyane, bakaba bafite ibipapuro hari ibintu barimo barandika, imbere yabo hari ameza ateretseho telefoni ngendanwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umusore ubona ko ari mwiza cyane, akaba yakuyemo umupira hejuru. Ari kwireba mu ndorerwamo, aho mu biganza bye byombi afite urudodo ari gucisha mu menyo ye, ubona ko ari meza cyane kandi aya menyo akaba yitayeho. Ubu bukaba ari uburyo bwiza cyangwa se akaba ari inama yagiriwe na muganga kugira ngo yirinde ibibazo bigiye bitandukanye byataka amenyo.

Umugabo uryamye ku gatebe kabugenewe, aho ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa n'uburindantoki, arimo arareba ikibazo cy'amenyo uwo mugabo afite, hano biragaragara nkaho ashaka gukura ibryinyo rirwaye.

Umusore urimo uraseka, ubona ko afite isura imeze neza, amenyo ye ni urwererane ndetse afite ishinya y'umutuku. Yambaye umupira w'umweru, bigaragara ko uyu musore akurikiza inama za muganga zo kwita ku menyo ye kugira ngo yirinde ibibazo bigiye bitandukanye, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo.

Umusore ubona ko yogoshe neza umusatsi akaba ari kwireba mu ndorerwamo uyu musore akaba yambaye umwenda w'umweru, uyu musore afite akadodo mu biganza bye byombi yagacishije mu menyo aho ari kugerageza kwirinda ibibazo byaterwa n'amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi y'imikara wagiye kwa muganga kugira ngo umuganga ushinzwe kwita ku menyo amusuzume arebe ikibazo amenyo ye afite, umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, afite agakoresho kabugenewe arimo arareba mu menyo y'uwo mukobwa.

Umugabo ugaragara neza cyane, akaba yambaye umupira w'umweru. Uyu mugabo afite ubwanwa buconze neza ndetse akaba mu biganza bye afite urudodo, akaba yarucishije mu menyo ubona asa neza cyane. Ubu bukaba ari uburyo cyangwa se akaba ari inama yagiriwe na muganga w'amenyo kugira ngo yirinde ibibazo byinshi bitandukanye byafata amenyo ye.

Ni mu kanwa h'umuntu, ubona ko umuganga amaze gukuramo iryinyo ryari ryarangiritse, iryo ryinyo akaba arifatishije agakoresho kabugenewe gakuramo amenyo, mu by'ukuri uyu muntu, iri ryinyo rye ryari ryarangiritse.

Umusore bigaragara ko yiyitaho rwose aho agaragara neza akeyeye, akaba yambaye ubusa hejuru. Mu biganza bye byombi afashe akadodo arimo arakanyuza mu menyo ye. Ubu ngubu bukaba ari uburyo muganga abwira umuntu kugira ngo yite ku menyo ye yirinde ibibazo by'amenyo.

Indwara z'amenyo ubugubu mu rwanda ntabwo bikiri ikibazo cyane kuko hasigaye hari abaganga b'inzobere bashinzwe kwita ku menyo hari umukobwa uryamye ku gatanda cyabugenewe imbere ye hakaba hari umuganga ufashe akadodo aho agiye gusuzuma umukobwa ngo amufashe ikibazo cy'amenyo afite .

Umusore mwiza cyane wicaye mu gakoresho kabugenewe, aho yashinyitse amenyo ari kumwe n'umuganga kugira ngo umuganga abashe kureba mu menyo ye ikibazo cyaba kirimo. Muganga afite agakoresho kabugenewe kifashishwa bareba mu menyo y'umuntu hatagize icyangirika.

Ni umusaza ubona ko ari umusirimu, wambaye amarineti, ariko biragaragara ko uyu musaza akuze cyane kuko imvi ze ni uruyenzi, ari ahantu hateretse shampo ndetse hari n'ubwogero, ubona ko uyu musaza afite agakoresho yahawe n'umuganga w'amenyo, kugira ngo arinde amenyo ye ibibazo bigiye bitandukanye.

Umwana mutoya ubona ko afite isura itohereye, akaba ari iwabo mu rugo, aho afite uburoso buriho umuti w'amenyo uzwi nka colgate, akaba agiye kwiborosa, afite amenyo meza cyane, bigaragara ko yambaye ishati y'umweru. Uyu mwana agiye kwiborosa kugira ngo yirinde indwara zo mu kanwa.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu arwaye ndetse n'amazima, iki kikaba ari igishushanyo abantu bafite mu nshingano kurwanya indwara z'amenyo bakoresha bigisha abandi baje muri ako kazi ko kwita ku buvuzi bw'amenyo.

Umusore mwiza cyane ubona ko afite isuku, yambaye umupira w'umukara akaba yasamye agaragaza amenyo ye, mu bigaragara ni uko uyu musore yakurikije inama za muganga zo koza amenyo buri munsi kuko amenyo ye arererana cyane, akaba ari uburyo bwiza bwo kwirinda indwara z'amenyo.

Abana bicaye ahantu mu ishuri bambaye impuzankano, buri mwana akaba afite umuti w'amenyo ndetse n'uburoso, uyu muti ukaba wifashishwa mu gihe cyo gusukura amenyo, akaba ari uburyo bwiza bwo kurinda indwara nyinshi zitandukanye amenyo yacu.

Umugabo ubona ko akeye nk'uko bigaragara ku isura ye akaba afite akadodo afatishije ibiganza bye byombi, aho yagacishije mu menyo ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku menyo, uyu muganga bitewe n'uburyo amenyo ye asa bisa nkaho ayagirira isuku.

Mu bitaro bimwe na bimwe hirya no hino ku Isi, cyane cyane mu Rwanda, hagiye hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga basuzuma abarwayi, hano hakaba hari agatebe kicaramo umurwayi, kugira ngo umuganga abashe kureba neza ikibazo cy'amenyo afite, hari n'agakoresho k'ikoranabuhanga kamwereka icyo kibazo.

Abana benshi bagiye batandukanye, ubona ko bambaye impuzankano. Bakaba bose bafite uburoso buriho korogate, aho barimo bariborosa. Buri mwana wese afite agakombe karimo amazi, arimo arakorera isuka amenyo ye.

Igishushanyo kigaragaza amenyo yose y'umuntu. Iki kikaba ar’igishushanyo cyifashishwa n'abaganga bavura ibijyanye n'amenyo, ndetse n'abarezi bamwe na bamwe bakifashisha bigisha abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Ni kwa muganga hari umwana uryamye ku gatanda kabugenewe, aho umuganga w'amenyo arimo aragerageza kureba ikibazo amenyo ye yaba afite. Mu gihe asanze amenyo y'uwo mwana yarangiritse, akamufasha kuba yarimukura kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi cyangwa se ishati y'icyatsi, akaba yicaye mu gakoresho kabugenewe, aho hari umuganga w'amenyo urimo aramupima kugira ngo arebe ikibazo amenyo y'uwo mugabo afite.

Ni umukobwa mwiza cyane ubona ko witeze igitambaro mu mutwe ndetse akaba yambaye n'isengeri y'umweru, afite uburoso arimo aroza amenyo ye. Ubu bukaba ari uburyo bwiza ndetse akaba ari inama ahabwa na muganga we w'amenyo, kugira ngo yirinde ibibazo by'amenyo bigiye bitandukanye.

Umwana mutoya wicaye ubona ko ari inzobe, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku arasamye, hari ibiganza byambaye uturindantoki ubona ko birimo birareba amenyo y'uwo mwana niba afite ikibazo, ubu bukaba ari uburyo bwiza umuganga akoresha yita ku mwana kugira ngo arebe ikibazo amenyo ye afite.

Ni kwa muganga aho umuganga uvura amenyo yafashe umurwayi akamwambika agakoresho kabugenewe kugira ngo abashe kumukurira iryinyo neza nta mbogamizi ihari.

Umusaza ubona ko akuze, akaba ari kumwe n'undi musore basa nk'aho bose barimo barakora imyitozo ngororamubiri ariko uyu musore mu bigaragara ni uko arimo arafasha uno musaza gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko biri mu nshingano ze zo kwita ku buzima bwuyu musaza.

Umumama bigaragara ko akuze akaba yicaye mu nzu arimo arakora siporo ngororamubiri akaguru ke k'indyo yakarambuye ak'imoso karahinnye amaboko ye yayakoje ku mano y'akaboko yarambuye inyuma ye hari intebe ndetse hari n'ivase riteyemo indabyo.

Umukecuru n'umusaza, ubona ko bambaye imyenda y'umutuku. Gusa umukecuru hakaba harimo uturongo tw'umukara. Bari mu rugo aho bari gupanga ibinini bigiye bitandukanye. Ku meza hateretse utuntu twinshi tw'udukoresho dutandukanye. Inyuma yabo na ho hari uducupa twinshi dutandukanye.

Abantu bicaye mu ntebe z'imifariso hakaba harimo abagabo bambaye utugofero, ndetse harimo n'abafite inkoni bifashisha bagenderaho, mu bigaragara ni uko hari ibintu runaka barimo barakurikirana.

Umusaza bigaragara ko akuze kuko imvi ari uruyenzi ari kumwe n'umukobwa ushinzwe gukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, aho afite imiti mu ntoki ari kumwereka ku meza hari indi imiti ihari hakaba n'ikirahure cy'amazi ndetse n'ikayi bandikamo.

Umugabo wicaye iwe mu rugo bigaragara ko akuze, arikumwe n'umukobwa ukiri mutoya ufite imisatsi miremire ya direde, aho arimo arafasha uno musaza amuha imiti kugira ngo ubuzima bw'uyu musaza bubashe gukomeza kumererwa neza, imbere ku meza hateretse computer ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu yabo. Ku meza hakaba hariho uducupa turimo imiti igiye itandukanye, umukecuru akaba afite akantu kameze nk'agapfukamunwa mu ntoki. Umusaza afite telefone ngendanwa, arimo arereka umukecuru. Ku meza hateretse igikombe cy'amazi.

abagore benshi ubona ko abiganje bambaye imipira imeze nk'aho ari impuzankano hakaba harimo abambaye udupfukamunwa barimo baragenda ubona ko hari ahantu barimo bagana iruhande rwabo hari inyubako, ndetse inyuma yabo hari igiti cy'inganzamarumbo.

Umukecuru n'umusaza bicaye ahantu mu nzu, bakaba bicaye ku ntebe imwe begeranye, imbere yabo hari ameza aho bashyizeho imiti, umusaza akaba afashe kamwe mu gacupa k'imiti ndetse umukecuru akaba afashe urupapuro rwanditseho ibintu basa nk'aho barimo babisoma bishimye.

Umugabo bigaragara ko ukuze, wambaye ishati y'ubururu, akaba yambaye rinete, ndetse akaba yambaye n'isaha ku kuboko. Ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu umufashe mu kaboko, bigaragara ko uyu mukobwa ari we umwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umusaza ubona ko akuze akaba yicaye ku ntebe aho yashyize akaboko imbere ye ku meza, akaba ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumukurikirana buri munsi, aho yamushyize igipimo ku kaboko gipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburyo umutima umeze.

Umusaza ubona ko akuze, ari kumwe n'umugore ubona ko bishimanye. Bari ku meza barimo barafungura. Ku meza hateretse ubwoko bwinshi bw'ibiryo bugiye butandukanye, ndetse hateretse n'ikirahure kirimo amazi. Urabona ko bizihiwe kandi baryohewe n'ifunguro barimo bararya.

Umukecuru ubona ko akuze, aho ari kumwe n'umuganga ukiri mutoya ushinzwe kumwitaho, acunga ubuzima bwe bwa buri munsi. Umukecuru bakaba bamuhaye akantu kameze nk'akagozi, aho agafashe mu biganza bye byombi arimo aragakurura, agenda asa nk'ukora siporo ngororamubiri.

Ni umukecuru ndetse n'umusaza, bicaye mu nzu yabo, ubona ko bakuze cyane bose imvi ari uruyenzi, umusaza asa nkaho arimo aranywa imiti yandikiwe n'abaganga, umukecuru hari urupapuro arimo anamwereka, ku meza ateretse ikirahure cy'amazi, ndetse n'utundi ducupa tw'imiti.

Abagabo babiri, ubona ko umwe ari umusaza akaba yambaye ingofero, undi urabona ko akuzemo ariko atari cyane, bari ahantu mu muhanda, ubona ko hubakishijwe amapave, ndetse inyuma yabo hari ibiti binini by'inganzamarumbo ndetse n'amapoto, hanyuma hakaba hari n'ibyatsi.

Abamama ubona ko bakuze mu by'kuri ndamutse mvuze ko ari abakecuru ntabwo naba nibeshye aba bakecuru bicaye ahantu wagira ngo hari ibintu ubashe kumva bicaye ku ntebe z'imyeru.

Umusaza n'umukecuru bicaye, ubona ko bakuze cyane, bose imvi ari uruyenzi. Umusaza akaba yambaye umupira wenda gusa ubururu, naho umukecuru akaba yambaye umutuku. Ku meza hateretse utuntu twinshi tw'imiti, ndetse hari ako umusaza afite, arimo arereka umukecuru.

Umusaza ubona ko akuze wambaye agapfukamunwa, akaba yicaye ku ntebe ndetse akaba yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umukobwa wambaye na we agapfukamunwa, ndetse wambaye ishati y'icyatsi n'akantu mu matwi asa nk'aho arimo arapima umusaza kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, uyu mukobwa akaba ari we ushinzwe kwita kuri uyu musaza.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bakuze. Umukecuru akaba yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe. Urabona ko uyu musaza n'uyu mukecuru bishimanye. Biragaragara ko uyu musaza asa nkaho hari ikintu ari kumwongorera, aho yamushyize agahanga ku itama.

Umusaza ubona ko akuze cyane imvi ari uruyenzi, afite utuntu two kurya mu ntoki ze ibiganza bye byombi ndetse ku kaguru ke hariho inkoni agenderaho, iruhande rwe hariho utwana tubiri tuhicaye, akana kamwe gafite mu ntoki zako icyo kurya, akandi nako karagifite ndetse gafite n'ikibuni cy'umweru.

Umusaza bigaragara ko arembye akaba aryamye ku gatanda kabugenewe ko kwa muganga, iruhande rwe hari imashini ishinzwe kwereka abaganga uko ubuzima bw'umusaza buri kugenda umunota ku wundi, iruhande rw'uwo musaza hahagaze umuganga utagaragara neza isura.

Umukecuru ugaragara nk'ukuze aho ubona imvi ari uruyenzi, ari mu nzu iwe arahagaze yambaye icyenda kirimo umweru ndetse n'uturongo tw'umukara, afite isahane iriho ibiryo by'amoko agiye atandukanye ndetse akaboko ke k'imoso gafashe ifoke, uyu mukecuru ari guseka urabona ko....

Umukecuru ubona ko akuze imvi ari uruyenzi, yambaye umukufi mu ijosi ndetse yikenyeye umukenyero afite mikoropfone mu ntoki ze. Inyuma ye hari imodoka ebyiri zirimo zihaturuka ndetse hari inzu hakaba n'ibiti, n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru afite ikirahure kirimo amazi ndetse umuganga bamuhaye ushinzwe kumukurikirana buri munsi, arimo aramusukira ikinini ku biganza kugira ngo akimire arebe ko ubuzima bwe bwarushaho kumera neza.

Umusaza ubona ko akuze akaba afite imvi z'uruyenzi wambaye amarinete ndetse n'agapira k'umweru aho afashe udukoresho twa siporo mu ntoki, akaba yambaye hasi umukara uyu musaza akaba ari gukora siporo kugirango arusheho kumererwa neza.

Umuntu ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba yicaye ahantu mu rugo iwe. Yambaye umupira cyangwa se ikote byenda gusa ikigina. Ku kaboko ke k'imoso hariho akamashini karimo kamufasha kumenya uburyo umutima we utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Umugabo ubona ko akuze akaba yambaye umupira w'umukara urimo uragerageza kugenda atambuka ku bikoresho byabugenewe, ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu ufite akantu mu ntoki, ubona ko ari kugerageza gufasha uwo musaza gutambuka.

Ni ahantu hameze nko mu gisharagati, aho harimo abantu bagiye batandukanye, imbere hari abasaza babiri bambaye ingofero ndetse umwe muri abo basaza akaba yambaye amarinete, bose bambaye imikenyero, bigaragara ko umwe ashaka gukoma amashyi, mu bigaragara ni uko bano basaza bari mu mihango ya kinyarwanda.

Umubyeyi w'umumama ubona ko akuze, akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa ushinzwe kumwitaho, uyu mukobwa yambaye ishati y'ubururu, aho afite mu nshingano kwita ku buzima bwa buri munsi bw'uyu mubyeyi kugira ngo arebe uko ubuzima bwe bumeze.

Umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, akaba afite imvi z'uruyenzi. Akaba yambaye umupira w'ubururu, aho ari kumwe n'umuganga ukiri mutoya w'umukobwa, ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'uyu musaza. Ari kumufasha kumanuka ahantu afashe ku byuma.

Umusaza wicaye ahantu mu cyumba bigaragara ko akuze. Akaboko ke k'imoso yagafatishije ku gahanga, aho ari gusoma mu ikayi iri imbere ye kumeza. Iruhande rw'imeza hateretse ikirahure cy'amazi.

Umusaza ubona ko ari mukuru akaba ari kwitabwaho n'umu mama mwiza cyane ubona ko yambaye itaburiya y'akazi, bisa nkaho ari umuganga bamuhaye umwitaho umunsi ku wundi, ku meza hariho imbuto ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Ni umukecuru wicaye ahantu hameze nko mu murima, impande ye hakaba hari ibiti byinshi bihateye ndetse imbere ye hakaba hari amashyiga yateretseho agasafuriya bisa nkaho atetse, iruhande rwe hari akantu kahateretse kameze nk'agafuka.

Ahantu ubona ko harimo haratangirwa inkingo za coronavirus, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa; imbere ye hari umuganga wambaye akajiri. Biragaragara ko arimo aratera urukingo uyu musore ku rutugu rwe.

Icyapa kiriho ishusho y'umuganga urimo urasuzuma umubyeyi, hakaba handitseho amagambo agira ati gudu niyuzi, de yero eva vasinesheni kampeyini hazi bini egisitendedi.

Umugore wicaye ku ntebe akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umweru, rinete yazicometse mu mupira. Iruhande rwe hakaba hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umweru, akaba ameze nk'aho arimo aramutera urushinge ku rutugu. Inyuma y'uwo mugore hari undi mugabo uhagaze arimo areba ibiri gukorwa.

Abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, harimo n'umukecuru mukuru biri ahantu bicaye ndetse abandi bahagaze, aho hakaba hari ama abiri rimwe ry'ubururu irindi ry'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati sayiningi seremoni ofu de Afurikani medesine agensi.

Icyapa kiriho ibigo bigiye bitandukanye na Arabisi cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ayo magambo akaba agira ati wodi antimayikorobiyo awayanesi wiki Rwanda.

Abantu benshi batandukanye bateraniye muri sare y'inama, ubona ko bambaye impuzankano. Bicaye ku ntebe z'imyeru bakurikiye umuntu uri imbere ibyo ari kubabwira. Biragaragara ko harimo umuntu umwe umeze nkaho ari umunyamakuru urimo ufata amashusho.

Abagabo babiri bambaye amakote ndetse na karuvati, ubona ko buri muntu hari urupapuro afite wagira ngo ni certificat, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Ni icyapa kigaragaraho umuntu wifashe neza, ndetse inyuma ye hakaba hari imiturirwa myinshi. Hakaba hagaragara inzu iri mu mabara y'igihugu cy'u Rwanda, izwi nka Convention Center. Hejuru hakaba handitseho World Diabetes Day.

Ni muri sare ubona ko hashobora kuba haberamo inama, hicayemo abantu b'abasirimu benshi bagiye batandukanye, mu bigaragara ni uko imbere yabo hashobora kuba hari umuntu uyoboye inama, bose bateze amatwi bari kumvamva ibyo ari kubabwira.

Ahantu hagaragara nko mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo abaganga bateraniye ku murwayi, muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga biri kwifashishwa n'abo baganga kugira ngo basuzume neza uwo murwayi ndetse babashe kumwitaho bazi neza indwara arwaye.

Abantu ubona ko bambaye neza, bakaba bahagaze ahantu ku cyapa kiriho amabara y'ubururu, iki cyapa kikaba kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, handitseho ngo Ministry of Health.

Icyapa cyanditseho rbc kikaba ari ikigo cy'igihugu cy'u rwanda gishinzwe ibijyanye n'ubuzima hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ariko yandikishijwe umweru agira ati GUIDELINES FOR HIV PREVENTION ,TREATMENT AND CARE IN RWANDA .

Icyapa kiri mu mabara yenda gusa ubururu, hakaba handitseho amagambo ari mw’ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Ayo magambo akaba agira ati “twirinde indwara y'ubushita bw'inkende”.

Abaganga babiri bari ahantu barimo barasuzuma abakecuru babiri ba bicaye imbere, bisa nkaho hari ibizamini barimo barabafata kugira ngo babashe kumenya indwara zigiye zitandukanye barwaye.

Ni inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, kandi byabugenewe byifashishwa n'umuganga mu rwego rwo gupima umurwayi kugira amenye ikibazo afite.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ubona ko yubatse neza cyane, aho ku bikuta hometseho amabuye y'amatafari ahiye. Iyo nzu ikaba yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Ahantu ubona ko hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, iruhande rw'icyo gikuta hakaba hari icyapa cyanditseho Kigali city, imbere hari umuhanda w'ibitaka harimo kona ndetse iruhande rwa kona, hari ibiti binini by'inganzamarumbo.

Ni inyubako ubona ko zubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, imbere yazo hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbo. Mbere y'uko ugera kuri izo nyubako hakaba hari icyapa kiriho amategeko n'amabwiriza ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'iryo vuriro.

Inzu ikorerwamo serivisi zijyanye n'ivuriro, ikaba ari inzu yubatse mu buryo bwa etaje, munsi hasi hakaba hari abantu bahagaze ndetse mu mbuga yayo hari amapavr, haparitse moto ndetse n'imodoka, kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho ngo porutekinike dorutwari.

Mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ndetse yewe n'ibyo hanze y'u Rwanda, hagiye harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi ndetse n'utumashini twabugenewe tuba dukontorora cyangwa se twerekana uko ubuzima bw'uwo murwayi bumeze umunota ku wundi.

Amavuriro menshi agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda, usanga harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga. Aha harimo ibikoresho byabugenewe, byifashishwa kwa muganga. Harimo udutebe twicarwamo n'abarwayi barimo babasuzuma, hakabamo n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bibafasha kumenya indwara umurwayi afite.

Umubyeyi ukikiye umwana w'uruhinja, akaba ari kumwe n'umuganga wambaye amarinete, agapfukamunwa ndetse wambaye n'itaburiya ye, mu bigaragara ni uko uyu muganga ari guha umwana urukingo cyangwa se hari ikindi gikorwa runaka ari gushaka kumukorera.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye yo mu Rwanda, wahasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe bigiye bitandukanye, aha hakaba udutebe twabugenewe twicazwaho abarwayi ndetse iruhande rwatwo hakaba hari utumamashini twifashishwa harebwamo uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Inzu ubona ko iri mu mabara y'umuhondo, ikaba ifite ibirahure mu madirishya, hasi y'iyo nzu hakaba hateye indabyo nziza cyane, iyo nzu akaba ari ivuriro rya Caraes, rishinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Amavuriro menshi agiye atandukanye yaba ayo mu Rwanda cyangwa se ayo hanze y'u Rwanda, ugiye usanga harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo baratanga serivisi nziza ku barwayi. Babapima kugira ngo bamenye indwara barwaye neza hatajemo kwibeshya.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo ibikoresho byabuhariwe byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hakaba harimo n'utundi tuntu tw'utubogisi dusa nk'aho hari ibintu tubikwamo.

Amavuriro menshi ugiye usanga ari ahantu heza cyane ndetse hari inyubako nziza zigezweho, ahangaha hari ivuriro riri mu mabara y'umweru wiganje iri vuriro hasi hakaba harimo amakaro, hagaragara icyumba cya imajensi rm ndetse urabona ko ari ahantu heza cyane.

Inzu nziza cyane bigaragara nk'aho ari amavuriro, akayira kajyayo kakaba gashashemo amapavi ndetse imbere y'izo nzu hari ubusitani bwiza cyane bufasha abarwayi kubona akuka ko guhumeka.

Ni kwa muganga aho hari intebe nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zimwe muri zo hakaba hicayeho abantu. Biragaragara ko aba ari abarwayi bategereje serivisi zitangirwa aho ku ivuriro. Ndetse aha hantu bicaye, ni ahantu hicara abantu bategereje serivisi.

Mu bitaro byinshi byo mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hano hari igikoresho cyifashishwa haryamishwaho umurwayi, ubundi bakamunyuza muri iki cyuma cy'ikoranabuhanga, kugira ngo barebe ikibazo afite.

Inyubako nziza cyane ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako ya etaje, imbere yayo hateye ibiti by'amapoto biriho amatara ndetse munsi y'ayo matara harimo ibyatsi byiza ubona ko bihinze, iyi nyubako ikaba igaragara nk'aho ari inyubako ikora serivisi z'ivuriro.

Kwa muganga cyangwa se mu mavuriro agiye atandukanye, usanga haba hari ibyumba bikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye. Ahangaha ni ku ivuriro, hakaba hari icyumba gikorerwamo ibikorwa bijyanye na operatiion.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga. Hano harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse imbere harimo ikirahure cyerekana ishusho y'amaso.

Ni mu nzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, isize amarangi y'umweru yiganje, aho harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri.

Ni kwa muganga aho mu cyumba harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi. Ibitanda bibiri muri byo hariho abasore babiri bisa nk'aho barwaye. Buri murwayi afite umuganga urimo aramusuzuma kugira ngo amenye ikibazo afite.

Ni mu bitaro aho harimo ibitanda byabugenewe biryamishwaho abarwayi, hakaba hagaragara ibitanda bibiri biriho abarwayi ndetse kuri buri gitanda hagiye hariho udukoresho twabugenewe dufasha abaganga mu gihe bari kwita ku barwayi.

Mu rwego rwo kwita ku barwayi mu mavuriro menshi usanga harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buryo bwo kwita ku barwayi aha hakaba hari intebe zabugenewe zicazwaho abarwayi kugira ngo babashe kuba basuzumwa neza n'abaganga batekanye.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye, hirya no hino ku Isi, usanga basigaye bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, bapima umurwayi kugira ngo bamenye indwara arwaye. Hano harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga.

Ni mu cyumba cy'ivuriro, aho hari akantu kameze nk'akabati karimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari umuganga uhari wambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa arimo arareba mu gakoresho kameze nka televiziyo, muri iki cyumba hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Ni mu cyumba cy'ivuriro aho harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'umuganga asuzuma umurwayi, aho bamuryamishaho bakamucisha mu cyuma bakareba ikibazo afite.

Ni ahantu hagaragara nkaho ari muri saro. Harimo ameza ndetse n'intebe z'imifariso, riko hagiye harimo ibirabyo biteye mu mavase bigiye bitandukanye, no ku meza hariho ivase ririmo igiti cy'kirabyo

Abaganga babiri bari mu cyumba cy'ivuriro abo baganga bombi bakaba ari abagabo, bakaba bambaye impuzankano ndetse abo baganga bari kureba ku gikoresho cy'ikoranabuhanga kibari imbere bisa nk'aho hari inama bari kungurana.

Icyuma cyabugenewe cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga aho bashyiramo umurwayi bakamunyuzamo kugira ngo barebe ikibazo yaba arwaye, ibi ni bimwe mu bitaro bifite ikoranabuhanga rihambaye ryifashishwa mu buvuzi bwabo.

Inzu yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho hakaba ari inzu y'itaje, hakaba hari abantu babiri bari kumanukamo ndetse hasi y'iyo nzu imbere yayo hateye igiti kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari imodoka ndetse na moto biparitse mu mbuga ikozwe n'amapave.

Umugore bigaragara ko ari kwa muganga amaze iminsi abyaye, akaba afite akana kari mu myenda yabugenewe bateruriramo umwana, uwo mugore akaba ari kumwe n'umuforomokazi umuri iruhande, bisa nkaho uyu muforomokazi ari we ushinzwe kwita kuri uyu mugore, bahagaze mu nzu ubona ko ari nziza cyane ndetse irimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye.

Ni ameza ateretseho uducupa twinshi tw'ibirahure dusa nk'aho turimo amatesite menshi agiye atandukanye. Hakaba hari mikorosikopi yifashishwa n'umuganga areba neza ibintu biri muri ayo matesite agiye gukora.

Ni inzu y'ivuriro ubona ko yubatse mu buryo bugezweho, amadirishya yose ni ibirahuri, imbere yayo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, hari n'abantu barimo baza bahagana.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere akaba ari inzu igeretse. Iyi nzu ikaba yubatse mu buryo bwa etaje, imbere yayo mu mbuga hakaba hari amapave, hakaba hahagaze abagabo batatu bambaye amakoti ndetse n'imodoka. Ku kazu gato gahari handitseho sangwa polukiriniki.

Inzu ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere aho imbere yayo hari amadarapo atatu mo hagati hakaba harimodarapo by'igihugu cy'u Rwanda munsi y'iyo nzu kuko ari inzu ya etage harimo abantu benshi bigendera, iyo nzu ikaba hejuru handitseho kingi fayiso hosipito.

Ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye hakaba hari umukecuru uri mu kagare, ndetse akaba ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore wambaye impuzankano, mu bigaragara nuko uyu muganga yahawe inshingano zo kwita kuri uyu mukecuru.

Ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti myinshi igiye itandukanye, aho mu muryango harimo abantu batandukanye, bisa nk'aho baje kwaka serivisi muri iyo farumasi. Iruhande rw'iyo farumasi hari abamotari ndetse hakaba hari n'imodoka ihagaragara. iyi farumasi ikaba ari iy'Iraguha.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, inyuma hakaba hometse amatafari ahiye, iyo nzu imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti byiza cyane, hashinze igiti kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ivuriro ryubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse rikaba ryubatswe mu buryo bwa etaje, ku muryango hari umuntu w'umusekirite urimo urakingurira imodoka iciyeho ndetse hahagaze n'undi muntu wicaye ku ntebe y'umweru wambaye umupira wenda gusa ubururu.

Ni inyubako ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere. Muri iyo nyubako harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi. Hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, bapima abarwayi kugira ngo barebe uburyo ubuzima bwabo buhagaze.

Ni ahantu ku ivuriro ubona ko hakeye cyane, kuko imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitohereye ndetse hazitije n'uruzitiro rwa senyenge. Rikaba ari ivuriro riri mu mabara y'icyatsi, ubona ko hari n'imirindankuba ndetse n'imirasire igiye itandukanye kandi mu kayira kajyayo harimo amapave.

Ni kwa muganga, aho hari ibyumba bigiye bitandukanye, bari kugenda batwereka buri muryango n'icyo ushinzwe gukorerwamo, hari umuryango nimero rimwe, hakaba umuryango nimero kabiri. Ndetse hari n'ahandi hasa nk'aho hagenewe abanasi.

Ni mu nyubako yo kwa muganga aho harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'umuganga arimo asuzuma indwara umurwayi afite kugira ngo aze kumwitaho yabanje kumenya indwara arwaye neza.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, haragaragara nk'ahantu heza cyane aho harimo abaganga babiri b'abagabo bambaye amataburiya y'umweru imbere yabo hakaba hari igikoresho cy'ikoranabuhanga basa nk'aho ari ibizamini bafashe barimo bararebaho.

Ni ahantu heza cyane ubona ko hakeyeye, hakaba ari inzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abantu bakora siporo, harimo za riteri, ndetse urebye mu idirishya hanze y'iyo nzu hari ibiti, ndetse n'ubusitani bwiza butanga akayaga.

Ni ivuriro ubona ko ryubatswe mu buryo bugezweho, rikaba risakaje amabati yenda gusa ubururu. Kuri iryo vuriro hakaba hateye ubusitani bwiza. Ndetse akayira kajyayo karimo amapave. Ku bikuta by'iryo vuriro handitseho, aho bavurira amaso, ndetse bikaba ari ibitaro bya Gihundwe Hospital DIALYSIS CENTER.

Mi mu cyumba cyo kwa muganga aho hari ibitanda biryamwaho n'abarwayi, bibiri muri byo hariho abarwayi babiryamyeho ndetse kuri buri gitanda hagiye hariho supanete zifashishwa mu kurinda imibu.

Umuganga uri mu kazi ke akaba yambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, akaba afite agacupa mu kaboko ke k'ibumoso. Bisa nk'aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga arimo arareba areba n'agacupa afite.

Abamama babiri ubona ko bakuze bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari umuganga w'umugore ukiri muto wambaye impuzankano, ubona ko hari ibipimo yabashyizeho arimo arapima uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ivuriro ryiza ubona ko ryubatse mu buryo bwa kijyambere, ku nkuta hakaba hariho amabuye, hari abagabo babiri b'abaganga barimo bagenda, bigaragara ko ari ahantu heza kuko hari ubusitani bwiza ndetse hari n'ibiti bitanga akayaga.

Umugabo wambaye ikote ryenda gusa ubururu, akaba yicaye mu cyumba cyo kwa muganga, imbere ye hari imashini ntoya ndetse hari n'indi nini arimo areberaho igipande cy'umuntu kimeze nk'imbavu.

Mu Rwanda, hari amavuriro yubatse mu buryo bugezweho, kandi bugiye butandukanye, aha hari ahantu hagaragara nko mu ivuriro, akaba ari ahantu hagari cyane, hejuru ku gisenge hariyo amatara ari kwaka, ndetse na kamera, hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye bihari.

Inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ar’inzu y'itage. Iyi nzu akaba ar’ivuriro ritanga serivisi zo kwita ku barwayi, imbere yayo hakaba har’abantu barimo batambuka.

Ni ahantu ubona ko hameze nko muri salle ikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri. Hari intebe iriho agafariso, ndetse iruhande rw'iyo ntebe iburyo n'ibumoso hari amavase ateretsemo ikimera. Imbere hasa nk'ahari ikibaho cyanditseho ngo" sipotis medisine senta".

Ni ahantu ubona ko ari heza cyane hagiye hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo ibyifashishwa muri siporo ndetse harimo n'utundi dukoresho umuntu w'umuganga yifashisha areba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga. Aho harimo ibitanda byabugenewe biryamishwaho abarwayi. Hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo uturido twiza cyane, dukoreshwa hakingirwa umurwayi kugira ngo umutekano ube ari wose.

Amavuriro amwe n'amwe usanga afite inyubako zigezweho aho usangamo harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aha hakaba harimo intebe zigezweho za kijyambere ndetse n'utundi dukoresho tw'ikoranabuhanga twifashishwa. Hakaba harimo na vandarateri zifashishwa zitanga imiyaga.

Ni mu bitaro kwa muganga aho ari ibitaro biri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye biryamishwaho abarwayi, aho harimo abarwayi bagiye batandukanye ndetse n'umuganga uri kubitaho, hari kandi n'akandi kana kicaye ku tugare tw'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda.

Ivuriro ubona ko ryubatswe mu buryo bwa kijyambere, rikaba ari etaje. Hasi hari akayira kameze nk'aho ari kaburimbo ndetse hateye igiti. Ku irembo ry'iryo vuriro haparitse imodoka, hejuru haragaragara ikirere kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ni mu nyubako nziza mu imbere, aho harimo utuyetajeri tugiye turimo ubwoko bw'imiti myinshi igiye itandukanye. Iyi ngiyi ikaba ari Progress Pharmacy icuruza imiti y'indwara zigiye zitandukanye.

Inzu nziza cyane igaragara nk'inzu y'ivuriro, harimo ibikuta by'umuhondo bishushanyijeho utuntu twiza tugiye dutandukanye, hakaba harimo intebe n'utundi dukoresho twiza cyane. Iyi nzu ikaba hasi harimo amabara agiye atandukanye ndetse hejuru hari amatara meza arimo araka.

Aha ni mu cyumba cyo mu ivuriro hakaba harimo ibitanda byifashishwa baryamishaho abarwayi mu gihe abaganga barimo barakurikirana ubuzima bwabo, babapima ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ni mu cyumba cy'ivuriro aho harimo ibitanda byabugenewe biryamishwaho abarwayi, ni ivuriro ubona ko ryubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, harimo umukobwa wambaye impuzankano ufite telefone inyuma mu mufuka arimo atambuka.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho ikaba yiganje mu irangi ry'umuhondo, hakaba hari umugabo urimo aragenda imbere yayo, iyi nzu ikaba ifunguye umuryango ndetse akaba ari inzu y'ababyeyi izi nka materinete hakaba hariho kizimyamwoto.

Inzu ubona ko yubatse neza cyane, ikaba isize irangi ryenda gusa umweru, amabati akaba ari mu irangi ry'ubururu, imbere yayo hakaba hicaye abantu, hejuru hakaba hariho amagambo yandikishije mu ibara ry'ubururu agira ati "ikigo nderabuzima cya Shagasha".

Ni inzu zikoreramo serivisi z'ivuriro, aho ari inzu zubatse neza mu buryo bwa kijyambere, izo nzu zikaba zifite jaride imbere yazo, ndetse utuyira tujyayo tukaba turimo amapave.

Inyubako nziza cyane ubona ko iri mu mabara y'umweru, akaba ari inyubako y'ivuriro. Imbere yayo hari jaride nziza cyane, ndetse hari n'ikigega cy'umugara gihari. Iruhande mu kayira kajyayo karimo amapave, hari umwana w'umukobwa wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga arimo aragenda.

Ni kwa muganga, aho ku gitanda cy'abarwayi haryamye umumama usa n'aho arwaye. Imbere ye hari abaganga babiri, uw'umugabo ndetse n'uw'umukobwa. Uw'umukobwa bisa nk'aho yunamye arimo aragerageza kureba uko umurwayi amerewe.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo agatanda kabugenewe baryamishaho umurwayi, iburyo bw'agatanda hakaba hari agakoresho k'ikoranabuhanga kabugenewe ndetse n'ibumoso hakaba hari ikindi gikoresho cyabugenewe umuganga yifashisha areba ibizamini by'umurwayi.

Inzu ziri ahirengeye zikaba ari inzu nyinshi zigiye zitandukanye, izi nzu zikaba zigaragara nk'aho ari ivuriro. Hakaba hari ubusitani bwiza ndetse muri ubwo busitani hakaba hiciyemo abantu, hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse inyuma y'izo nzu urahabona ishyamba.

Ni inyubako yubatse neza, iyi akaba ari inyubako itanga serivisi z'ivuriro. Imbere yayo hateye igiti cy'inganzamarumbu ndetse hari ibyatsi bimeze neza. Ndetse kuri iryo vuriro hari abantu bahanganye bigaragara ko hari serivisi bahashaka.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, hakaba hariho agatanda kabugenewe karyamyeho umurwayi, aha ngaha niho umuganga asuzumira umurwayi kugira amenye ikibazo afite mu buzima bwe.

Ahantu ubona ko ari heza cyane, hubatse inyubako mu buryo bwa kijyambere, hari abantu barimo baragenda ubona ko bambaye amashati asa wagira ngo ni impuzankano, bakaba bafite utuntu mu ntoki zabo. Mu by'ukuri tuvuze ko aba bantu ari abantu bafite inshingano mu kwita ku buzima, ntabwo twaba tubeshye.

Mu mavuriro yo mu Rwanda hagiye hari ibyumba byiza cyane birimo amarangi meza. Ndetse hagiye harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa haryamishwaho umurwayi kugira ngo bamusuzume bamenye indwara arwaye. Aha ngaha hakaba hari agatanda kabugenewe, karyamishwaho umurwayi kugira ngo asuzumwe ameze neza.

Mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Aha hari icyuma cyabugenewe, kiryamishwamo umurwayi, maze bakakimunyuzamo kugira ngo barebe neza indwara arwaye.

Ni umusore wicaye ahantu ubona ko hari ibintu byinshi akaba uyu musore yari yagize ikibazo, hari undi musore urimo aramufasha amupfukira aho yari afite ikibazo ku kaguru ke k'indyo ndetse n'imoso, hirya yabo hari amaguru ahagaragara ndetse hari n'imbago zifashishwa bagenderamo.

Umugabo wicaye ahantu hameze nko mu kibuga, akaba yambaye isengeri ndetse n'ikabutura byagenewe gukoranwa siporo. Akaba yicaye hasi afashe ku kaguru ke k'ibumoso ahagana ku itako, aho wagira ngo uyu mugabo agize ikibazo cy'imvune ndetse afasheho cyane urabona ko yashinyirije.

Agakoresho ni ingenzi cyane aka gakoresho kazwi nka burankari, aka gakoresho gakunzwe gukoresha igihe mu kibuga nk'umukinnyi agize ikibazo, ababishinzwe bihutira kujya kumukuramo bakamushyira kuri aka gakoresho kugira ngo agezwe hanze ahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Aha hari imiti y'ibanze igiye itandukanye, hariho amabande, imikasi, udupfuko ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo cyihutirwa, iyi ngiyi akaba ari imiti y'ibanze, cyane cyane nko mu kibuga cy'umupira niho ikunda gukoreshwa.

Umusore wicaye ahantu wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, akaba arimo aranywa amazi, imbere ye hari igikapu cy'umukara kihateretse, hirya ye ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umukobwa wambaye imyenda na we yabugenewe bakorana siporo, aho ari kwigorora nk'aho na we imbere ye hateretse igikapu cy'umukara.

Umusore wicaye ubona ko yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro isa umukara akaboko k'imoso akaba yashyizeho akantu kameze nka barafu kugira ngo arebe ko yamufasha gukemura ikibazo yari afite bisa n'aho yari yavunitse.

Agasanduku k'icyatsi gapfunduye, kakaba karimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imikasi, amapomade ndetse n'ibindi bintu byinshi byifashishwa mu gihe umuntu avuye muri siporo cyangwa se yagiriye ikibazo mu kibuga cy'umupira.

Umukobwa wambaye umupira usa nka oranje wenda gutukura, akaba afite imisatsi miremire y'imikara. Akaba yambaye ekuteri mu matwi nkaho afite agakoresho yambaye ku kaboko ke k'indyo gasa nkaho ariho habitse terefone. Afite mu kaboko ke k'imoso agacupa k'amazi arimo aranywa, mu bigaragara uyu mukobwa avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ubona ko akiri mutoya wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, aho yambaye uturindantoki, akaba ari kwitegereza muri mashini imuri imbere ndetse ku meza akaba hari amakaye yagiye atandukanye, iruhande haragaragara ivase ririmo ururabo.

Ni umusore ubona ko wambaye agapira k'umweru ndetse akaba yambaye agakoresho kabugenewe ku ivi kamufasha kumugororera ivi mu gihe rifite ikibazo, akaba yafatishijeho ibiganza bye byombi bigaragara ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cy'akaguru.

Umukobwa wicaye hasi aho yarambuye akaguru ke k'indyo, ak'imoso yagahinnye, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari agakoresho yambaye ku kaboko ke k'iburyo ndetse uyu mukobwa yambaye ekuteri, mu bigaragara ni uko ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse agacupa k'umweru gasa nkaho ari ak'amazi.

Abagabo babiri bari mu nzu, umugabo umwe akaba aryamye hasi, undi akaba yicaye munsi ye, aho umugabo uryamye yarengeje umugabo wicaye akaguru akamushyira ku rutugu, bisa nkaho arimo aramufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Amavuriro yo mu Rwanda amaze gutera imbere cyane, aha ngaha hari ivuriro ririmo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga bapima indwara, umurwayi arwaye kugira ngo bamenye igisubizo kizima kandi kizewe.

Ni mu nzu ikorerwamo siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abantu bari gukora iyo myitozo ngororamubiri, inyuma hari icyapa cyanditseho ngo sipoti kaya fiziko terapi.

Inkoni ebyiri ubona ko ari inkoni nziza cyane, izi akaba ari inkoni zihabwa abantu bageze mu gihe cy'izabukuru kugira ngo bajye babasha kuzigenderaho, kuko igihe cyabo nta mbaraga baba bagifite cyo kugendera ku maguru yonyine. Babaha zino nkoni rero kugira ngo babashe kuzishingikirizaho babashe kugenda neza.

Ni mu nzu igaragaramo umusore wambaye imyenda y'umukara, yabugenewe yo gukorana siporo ndetse akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Aho akaguru ke k'imoso yagashinze ndetse ak'inyuma k'indyo akaba yagashyize inyuma yapfukamye. Arimo aragerageza kwigorora. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kuko ari ingenzi mu buzima bw'umuntu.

Umuntu w'igitsina gore uryamye hasi akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri akaguru ke k'imoso kararambuye akandi k'indyo yagahinnye aho amaboko ye afashe ku ivi mu bigaragara nuko arimo aragerageza kwigorora arimo arakorera imyitozo ngororamubiri ahantu heza cyane kuko imbere ye urahabona idirishya ry'ibirahure.

Ni ikiganza cy'umuntu utagaragara neza aho icyo kiganza gifashe ijage y'ikirahure irimo amazi ndetse akaba ari gusuka amazi mu kindi kirahure .

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, hakaba hashushanyijeho inzira nyinshi zigiye zitandukanye, kikaba cyanditseho ngo retani tu sipoti gayide rayine safeti rure duyuringi covide nayinetine pandemike.

Hari amazi arimo arasukwa mu kirahure giteretse, nubwo nta muntu ugaragara ariko biragaragara ko hari umuntu urimo arasuka aya mazi, aya mazi akaba ari meza cyane, ari amazi umuntu ashobora kunywa.

Ni umukobwa ufite imisatsi myinshi aho yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo asunika ndetse aho akase hari gusa icyatsi, imbere ye hari ikintu gihari cyenda kumera nka shitingi.

N’umuntu ugaragara amaguru ye, aho ari ku gatanda ko kwa muganga kabugenewe, imbere ye hakaba hari umuntu umeze nk'umugabo urimo uramufasha amupfukira ku kaguru, bisa nk’aho uyu muntu yari yavunitse ndetse uyu mugabo akaba arimo aramwitaho.

Ni umuntu ufite igurude mu ntoki urimo aranywa amazi . Akaba afite agasume k'umweru yashyize ku ijosi rye. Uwo muntu akaba yambaye agasengeri kabugenewe ko gukorana siporo . Mu bigaragara ni uko uyu yari avuye muri siporo akaba yarari kunywa amazi kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe bakorana siporo, akaba afite imisatsi miremire. Biragaragara ko ari mu gitondo asa nk'aho abyutse, aho yicaye ku buriri bwiza cyane buriho amashuka meza n'ibikuvureri byiza. Uyu mukobwa akaba yarambuye amaboko yombi, ari kwinanura. Ku kaboko ke k'imoso yambayeho agakomo.

Mu bitaro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, hagiye harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga. Aha hakaba hari icyuma cyifashishwa n'umuganga, aho arambikaho umurwayi akakimunyuzamo, kugira ngo arebe uburwayi uwo murwayi arwaye.

Abantu benshi bari ahantu mu mbuga bari mu ngeri zitandukanye, bigaragara ko bari gukora siporo, imbere yabo hari umuntu urimo urabafasha abayobora muri iyo myitozo ngororamubiri barimo, abandi bakoze imirongo barimo barakurikira iby'uw'imbere aribabwira gukora.

Mu gihugu cy'u Rwanda ubuvuzi bwateye imbere, aho muri buri gace ku buvuzi ugenda usanga harimo abaganga b'inzobere ,aha hari umuganga usa nkaho arimo arita ku muntu wari wagize ikibazo mu ivi, mu bigaragara ni uko uno muntu yagize akabazo mu ivi, noneho uyu muganga wambaye itaburiya y'umweru akaba arimo aramuvura.

Umusore ubona ko yakoze siporo mu buryo buhagije, aho yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, akaba akaboko ke k'indyo gafashe agacupa k'amazi ari kunywa, ni umusore ufite ubwanwa bwiza cyane bigaragara ko yari avuye muri siporo.

Umugabo bigaragara ko ari umuzungu, akaba afashe umugozi w'umuhondo arimo agenda akurura, uyu nguyu akaba ari wa mugozi ugenda ukweduka, uyu mugozi wifashishwa n'abantu mu gihe bari gukora siporo ngororamubiri, iruhande rwe hahagaze umuntu umeze nk'umuganga ushinzwe kumufasha gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi, akaba afite n'umupira mu ntoki wanditseho kane, uyu mupira akaba ari umwe mu mupira yifashishwa n'abantu bakora siporo, uyu mugabo umupira yambaye hakaba hari amagambo yanditseho ariko atagaragara neza.

Gukora siporo ni igikorwa cyiza gifasha imibiri yacu kugumya kumererwa neza. Hano hari abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye imyambaro yabugenewe yo gukora siporo, aho bari gukora siporo. Mu bigaragara ni uko hari umuntu uri imbere, uri kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu cy'umweru gifunguye, kikaba kirimo ubwoko bwinshi bw'imiti igiye itandukanye, aho harimo: imikasi, amabande, amaga, amapomade yifashishwa cyane cyane mu gihe umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yagize ikibazo, urugero: nko mu kibuga iyo umukinnyi agize ikibazo, bifashisha iyi miti y'ibanze kugira ngo bamwiteho.

Kwa muganga usanga hagiye hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Aha muri iki cyumba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse hari n'agatanda kabugenewe umurwayi aryamaho muganga agiye kumupima.

Mu gukora siporo hari ibikoresho byinshi bisabwa, hano hari imigozi yo gusimbuka, hari inkweto za siporo zabugenewe. Ndetse hari imbuto nyinshi umuntu ashobora kwifashisha nyuma amaze gukora siporo kugira ngo yongere agarure imbaraga.

Umuntu wicaye, ariko akaba atagaragara mu maso ye, ariko bikaba bigaragara ko akaganza ke k'imoso, gafashe ku kaboko k'indyo. Aho afashe ikintu kiri mu ibara ry'ubururu, kimeze nka barafu. Bisa nk'aho uyu muntu yari afite ikibazo ku kaboko ke, akaba ari kwivura.

Mu mikino igiye itandukanye ikinwa hirya no hino ku isi, usanga hari ibikoresho byihariye bikinwamo. Hari ballon y'umupira w'amaguru, hakaba ballon ikinwa muri basket, akadenesi gakinwa muri tenis ndetse na masque bambara abantu bakina ya mikino bagendera ku rubura cyangwa se undi mukino usa nka wo.

Agakapu gafunguye kari mu ibara ry'umutuku, kakaba karimo ibikoresho byose by'ibanze byifashishwa muri siporo, urugero nk'iyo umukinnyi avunitse ari mu kibuga, hari ibikoresho by'ibanze abaganga bamushyirira ku mvune, kugira ngo akomeze akine cyangwa se agumye kumererwa neza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, yicaye ahantu hameze nko mu nzu, aho yicaye hasi amaguru ye yayahinnye, akaba akaboko ke k'indyo yagashyize hasi akandi k'ibumoso yakazamuye asa nk'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse icupa ririmo amazi.

Ni abana bakiri batoya, ubona ko bambaye impuzankano, bisa nkaho barimo barabyina, bakaba bahagaze ahantu mu kibuga hagati babyina, ndetse bari kurebwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu bagiye batandukanye.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, muri ibyo bintu twavugamo nk'urubuto rumwe rumeze nk'ironji rukase, ndetse hakaba hari igikombe gisa nk'aho kirimo ji, hakaba hariho utuntu tubiri twifashishwa n'abantu bakora siporo ndetse na metero.

Ni umuntu uryamye ku gatanda kabugenewe akaba ameze nk'ufite ikibazo ku kaguru ke k'indyo, aho yagahinnye hakaba hari umuntu umeze nk'umuganga wambaye tabuririya y'umweru, wagafasheho asa nkaho arimo arumva ikibazo gafite kugira ngo abashe kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Umusore bigaragara ko akora siporo, yambaye agapira kamwegereye, ndetse mu kaboko ke k'indyo afite agacupa karimo amazi arimo kunywa, yambaye na ekuteri mu matwi. Mu bigaragara n’uko uyu musore avuye muri siporo, arimo aragerageza kunywa amazi ngo yongere kumva uko amerewe.

Umuntu wicaye ku ntebe ubona ko yambaye umupira wenda gusa ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara ariko ku kaboko ke k'iburyo kakaba kameze nk'agafite ikibazo aho yashyizeho akantu kameze nka' barafu kamufasha kumuvura ikibazo yari afite .

Ni umusore uri ahantu heza cyane arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo. Akaguru ke k'indyo yagashinze hasi arapfukamye, akaguru ke k'imoso karahagaze asa nkaho ibiganza bye byose yabifatishije ku ivi. Uyu musore akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane, cyane cyane noneho iyo umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri, aba akeneye kunywa amazi kugira ngo yongere amere neza, aha hakaba hari agacupa gapfundikiye neza karimo amazi, iruhande rwako hakaba hari amazi asa nkaho yahamenetse ameze mu buryo bw'ibitonyanga.

Ni umusore bigaragara ko yicaye ahantu ku muhanda, akaba yambaye isengeri y'umukara ndetse mu kaboke ke k'indyo akaba afite icupa ry'amazi arimo aranywa, ku kaboko ke k'imoso akaba yambaye akantu gasa icyatsi, iruhande rwe urahabona undi muntu utagaragara neza ndetse inyuma ye hakaba hari inzu nyinshi, biragaragara ko uyu musore yaravuye muri siporo.

Aha ni mu bitaro kwa muganga, aho harimo abaganga bambaye impuzankano ndetse hakaba harimo n'umugabo wambaye ikoti, harimo n'abandi barwayi bari ku bitaro byabo, imbere hari igikoresho gisakaza amashusho kizwi nka tereviziyo hariho umuntu bisa nk'aho arimo arabaha amabwiriza.

Umudamu mwiza cyane ubona ko yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, ari ahantu hameze nko mu nzu kuko harimo intebe ndetse n'utundi dutebe twiza, akaba yicaye hasi aho ari gukora imyitozo ngororamubiri yafashe amaboko ye yayashyize ku birenge bye aho arimo arigorora.

Umusore wambaye isengeri yenda gusa umweru akaba yifashe inyuma mu kajyori, ku kaboko ke k'ibumoso yambaye isaha, uyu musore mu bigaragara ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda y'umukara, ku ikabutura hamanuyemo uturongo tw'umweru, bisa nk'aho yari yagize ikibazo akaba ari kwa muganga, aho ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kumupfukira akaguru ke k'indyo gasa nk'aho kari kavunitse.

Ahantu hari inzu nyinshi ubona zubatse mu buryo bugezweho, ndetse iruhande rw'izo nzu hakaba hateye ibiti, hari akabosi kariho umusaraba, wanditsewi ibara ry'umweru, ako kabosi kakaba gateruwe n'agakoresho k'ikoranabuhanga kazwi ku izina rya Dorone.

Ni umuntu ugaragara amaboko, utagaragara neza mu maso. Akaba yambaye impeta ku kaboko ke k'ibumoso, akaboko ke k'indyo akaba yashyizeho barafu. Bisa nk'aho uyu muntu yari afite ikibazo, akaba arimo aragerageza kwivura akoresheje barafu.

Kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri hari ibikoresho bisabwa. Ahangaha hari baro ikinwa mu kibuga cy'umupira w'amaguru ndetse hakaba hari na godiyo. Hari n'agakoresho abaganga bakoresha bapima abakinnyi kugira ngo bumve uburyo ubuzima bwabo bumerewe.

Umukobwa ubona ko yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, akaba yicaye ahantu afite igurudu y'umukara mu kaboko ke k'indyo arimo aranywa amazi, ku rutugu rwe rw'ibumoso hakaba hariho aka esume, bigaragara ko uyu mukobwa yari avuye muri siporo agahita anywa amazi kugira ngo yumve amerewe neza.

Umuntu wicaye mu gatebe ko kwa muganga kabugenewe, akaguru ke k'indyo kakaba kariho icyuma cyifashishwa mu rwego rwo kugira ngo umuganga yite ku murwayi. Imbere ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimo arareba iby’akora.

Umusore ubona uri muri pozisiyo yo kwiruka, akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, inyuma ye hakaba hari imbuto nyinshi zigiye zitandukanye z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo karoti, amaronji, amashu, izi akaba ari imbuto nziza cyane byifashishwa n'umuntu umaze gukora siporo kugira ngo yongere agarure ubuyanja.

Ni etajeri irimo ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye, akaba ari imiti y'ibanze yifashishwa mu gihe umuntu yagize ikibazo cyane cyane mu gihe yari ari gukora siporo ngororamubiri. Harimo imiti myinshi igiye itandukanye, ifasha umuntu wagize icyo kibazo.

Ikiganza cy'umuntu ubona utagaragara neza, akaba afite ijagi y'ikirahure mu ntoki irimo amazi, akaba arimo asuka ayo mazi mu kindi gikombe cy'ikirahure giteretse ku meza.

Ahantu hagaragara nko mu nzu, harimo umukobwa wicaye ubona ko yambaye imyenda yabugenewe bakorana siporo arimo arinanura, yicaye hasi akaguru kamwe k'imoso yakarambuye, ak'indyo karahinnye arimo arigorora.

Abagore babiri n'abagabo babiri ndetse n'umwana umugore umwe akaba akikiye umwana umugabo umwe akaba ari umuganga ndetse wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa akaba afite agakoresho kabugenewe aho yabwiye umwana ngo yasame asuzume ikibazo umwana yaba afite mu kanwa .

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho abaganga bateraniye hamwe bicaye, imbere yabo hakaba hari undi usa nk'aho bayoboye, ariko hakaba hari akuma k'ikoranabuhanga kameze nka televiziyo basa nk'aho ariho barimo barakirira amabwiriza bose bafite impapuro n'ikaramu barimo barandika.

Ni mu kibuga cyagenewe gukinirwamo imikino y'imyidagaduro, aho hari umugore wambaye imyenda yagenewe gukoranwa siporo. Imbere ye akaba ari hamwe n'undi mugore bigaragara ko ari umuganga. Arimo aramushyira igipfuko ku kaboko, bisa nk'aho uyu mukinnyi yari yagize ikibazo, hanyuma uyu mudamu akaba ari kumwitaho.

Icyapa kiriho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, hariho umugore uri kwitaba terefone, imbere ye hakaba hari tereviziyo yerekana amashusho ndetse hakaba hariho imashini yifashishwa hapimwa umuvuduko, hakaba hariho na camera ndetse n'ibindi.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, akaba yambaye na ekuteri, afite akantu yambaye ku kaboko ke k'iburyo, aho yazanye amaboko ye yombi akayafatisha ku kaguru k'indyo arambuye ak'ibumoso gahinnye, mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bambaye amataburiya ya croix rouge bahagaze ahantu, imbere yabo hakaba hari umugabo upfukamye wambaye nawe isengeri ya croix rouge y’umutuku, usa nk’aho ari kubyutsa umuntu war’uri hasi, ameze nk’aho yar’afite ikibazo barimo baramwitaho bamuha ubutabazi bw'ibanze.

Umusore wambaye ekuteri, akaboko ke k'imoso kakaba gafashe agacupa k'amazi arimo anywa, mu bigaragara nuko uyu musore yari avuye muri siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, hanyuma kugira ngo arusheho kumererwa neza agahita anywa amazi.

Agapara gafite umunwa w'ubururu, aho amazi arimo arakavamo ajya mu kirahure giteretse ahantu hameze nko ku meza. Mu bigaragara ni uko hari umuntu ushobora kuba ari we urimo arasuka aya mazi, ayakura mu gapara ayashyira mu kirahure kugira ngo abashe kuba yanywa.

Ni mu nyubako ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye aho harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa hakorwa siporo harimo umugabo uryamye hasi ku isima aho yaziritse umugozi ku kaguru ke k'indyo ari ukurura akora imyitozo ngororamubiri .

Ni umusore uri mu nzu akaba arimo arakora siporo, yambaye ubusa hejuru ndetse yambaye agakabutura k'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yarambuye akaguru k'indyo na ho akaguru k'imoso yagahinnye arimo arigorora akora imyitozo ngororamubiri.

Umwana wicaye imbere ye haakaba hari umubyeyi urimo aramusuzuma akoresheje agakoresho k'ikoranabuhanga afite asa nkaho yakamutunze mu maso kugira ngo arebe ikibazo umwana afite .

Ahantu hari urubyiruko ubona ko rwizihiwe basa naho barimo barakina umukino umwe w'imyitozo ngororamubiri, hari umupira wa basiketi hari akana kiteguye ubona ko kifoye nk'akagiye gukubita umupira.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu na baje mu ijosi, afite akaguru k'umuntu uryamye ku gatanda kabugenewe, asa nkaho arimo aramugororera kano kaguru, mu bigaragara nuko arimo aramufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agasengeri bigaragara ko ari muri siporo. Akaboko ke k'indyo yagafatishije inyuma mu mugongo ndetse akaboko k'imoso karaza gafata mu nkokora ya ka kandi k'indyo asa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye umupira w'ubururu akaba yambaye n'isaha ku kuboko, mu kuboko kwe kw'indyo afitemo agacupa arimo aranywa amazi. Ni umusore ubona ko ari mwiza cyane aho afite ubwanwa abona buconze neza, uyu musore nk'uko bigaragara ashobora kuba akora imyitozo ngororamubiri.

Agacupa k'umweru gapfundikije umuvuniko w'umweru, iruhande rwako hakaba hari ikimera gihari, kuri ako gacupa handitseho foreva fokasi bureyini karariti andi fokasi.

Igiti gihinze ahantu kikaba kiri mu ibara ry'icyatsi aho gifite amababi ameze neza cyane atohereye, iki giti kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Aka n’agacupa kakaba karimo umuti m’imbere. Aka gacupa biragaragara ko gakoze mu kirahure ndetse kakaba gapfundikishije umufuniko w'icyatsi. Inyuma ku gacupa, hariho icyapa cyanditseho ngo umuravumba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye uyu muti ukozemo.

Iki ni igiti kiri mu ibara ry'icyatsi ubona ko gitoshye kikaba gihinze ahantu heza cyane, iki giti kikaba cyifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo byifashishwa n'abaganga gakondo.

Igiti ubona gifite amababi agiye atohereye, iki giti kikaba kiri mu bwoko bw'imiravumba, umuravumba akaba ari igiti gikora nk'umuti gakondo, kuko kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Akapa kariho agacupa k'umweru karimo umuti ukozwe mu bihingwa bya gakondo, uwo muti ukaba uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ukaba witwa foreva royo jeri.

Ahantu hahinze ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hagaragara kimwe mu byatsi gifite amababi atoshye ndetse y'icyatsi, hejuru hariho utuntu tuzaho ibishokoro ndetse hakaba hariho n'utubabi tw'umweru. Iki kimera kikaba cyifashishwa hakorwa imiti gakondo ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni ahantu ubona ko hari ikibambano ndetse hakaba hari ikimera kiririmo ibara ry'icyatsi kihateye. Iki kimera kikaba cyifashishwa mu gushakwamo imiti gakondo, yifashishwa n'abavuzi gakondo bavura abantu indwara zitandukanye.

Uducupa tw'ubwoko bugiye butandukanye turimo imiti igiye itandukanye, tukaba turimo imiti imwe n'imwe ikorwa mu bimera gakondo ndetse ku ducupa tumwe na tumwe hagiye hariho igihingwa k'igikakarubamba.

Ni agacupa ubona ko gacuritse umutwe uri hasi kakaba gashushanyijeho igikakarubamba, iruhande rwako hari akavaze gateretsemo uburoso bubiri, hirya y'ako kavase hari irindi vase rihinzemo igihingwa cy'igikakarubamba, nka bimwe mu bikorwamo imiti igiye itandukanye.

Ni uducupa turimo imiti igiye itandukanye, tukaba ari uducupa tune. Dutatu muri two dufite ibara ry'umweru ndetse tukaba dupfundikije imifuniko y'umweru. Kamwe ni karerekare kurusha utundi, kakaba gapfundikishije umufuniko w'umweru. Iyi ngiyi ikaba ari imiti gakondo, yifashishwa n'abaganga gakondo bavura abantu indwara zitandukanye.

Ahantu ubona ko hari igihingwa kimeze neza cyane gifite amababi y'icyatsi ndetse atoheye, iki igihingwa kikaba ari kimwe mu bihingwa byifashishwa bakora imiti gakondo igiye itandukanye ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti gakondo igiye itandukanye, ikaba iri mu bucupa bugiye butandukanye, iyi ni imiti ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, aho umuganga gakondo ayihuzahuza ikavamo umuti mwiza kandi ubasha kuvura indwara zitandukanye.

Ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye ibyo bimera bikaba byifashishwa mu gukoramo imiti gakondo, hakaba harimo tungurusumu, hakaba harimo tangawizi ndetse n'ibindi bimera byifashishwa n'abahanga bakoramo imiti ivura abantu indwara zigiye zitandukanye.

Ni uducupa turimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, akaba ari imiti gakondo yakozwe mu bimera bigiye bitandukanye, aho igenda ivangavangwa n'abaganga gakondo kugira ngo bakoremo umuti karahabutaka.

Ni ibiganza by'umuntu utagaragara neza ikiganza kimwe gifashe korogate ikindi gifashe uburoso, iyi corogate akaba ari imwe ikozwe mu miti n'ibimera gakondo kuko kuri iyo korogate hariho igihingwa cy'igikakarubamba.

Ubucupa bune bwo mu bwoko bugiye butandukanye, hakaba harimo imiti igiye itandukanye. Iyo miti akaba ari imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye. Kuri buri gacupa hakaba hariho igikakarubamba.

Ahantu hahinze ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara aho ari gusoroma amababi ku giti kimwe, iki giti kikaba cyifashishwa nk'imiti gakondo kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru kakaba karimo umuti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muti ukaba ari umwe mu miti ikorwa mu bimera karemano bizwi nk'imiti gakondo.

Ibiganza by'umuntu bifashe akavaze karimo ibimera byinshi bivangavanze, mu bigaragara ni uko uyu muntu agiye gufata akano gahini kari iruhande rwe agatangira gusekura ino miti, kugira ngo ayikoreremo imiti gakondo inoze kandi ifite ububasha bwo kuvura.

Ibimera bigiye bitandukanye biri ku gakoko, hakaba hari agacupa karimo umuti ndetse muri ibyo bimera hateretsemo agasekuru ndetse n'umuhini wabugenewe bifashisha basekura iyo miti kugira ngo bayitunganye iyo akaba ari imiti gakondo.

Ni ahantu ubona ko hahinze ibimera bigiye bitandukanye, hakaba hari ikimera gifite amababi ubona ko atoshye gihinze aha ngaha, iki kimera kikaba cyifashishwa hakorwa imiti myinshi igiye itandukanye gakondo, ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni icyapa kiriho utuvaze tugiye turimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, utu tuvaze turimo imiti gakondo ihuzwa ikavamo umuti karabutaka, uvura indwara zigiye zitandukanye, kuri icyo cyapakaba handitseho ngo gorobo hebo medesine maketi.

Ni ahantu bigaragara ko hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye. Hakaba hari igihingwa gitoshye kiri mu ibara ry'icyatsi, iki kikaba ari igihingwa cyifashishwa hakurwamo imiti igiye itandukanye kuko nacyo kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Igihingwa kiza kiri mu ibara ry'icyatsi ubona ko gitoshye, iki kikaba ari ikimera cyifashishwa hatunganywa imiti gakondo igiye itandukanye, yifashishwa n'abaganga bavura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tubiri ducuritse imitwe yatwo iri kureba hasi; tukaba turimo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye; hakaba hariho amasura y'abantu batandukanye; bagiye bafite ibibazo bitandukanye; ibi byose bikaba ari ibibazo bivurwa n'uyu muti.

Ahantu ubona ko wagirango ni mu isoko hakaba hari abantu benshi bahahagaze ariko batagaragara amasura, imbere yabo hari ameza ariho imiti myinshi igiye itandukanye ifunze mu ducupa tugiye dutandukanye, iyi ngiyi ikaba ari imiti yatunganyijwe mu bimera bya gakondo bigiye bitandukanye igakorwamowo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu ubona ko hahinze igihingwa ariko hakaba hazitiye na senyenge. Icyo gihingwa kikaba kiriye mu mabara y'icyatsi. Mu by'ukuri iki ni igihingwa cyifashishwa n'abavuzi gakondo bakoramo imiti gakondo igiye itandukanye.

Ikimera ubona ko gishishe neza cyane kiri mu ibara ry'icyatsi, iki kimera kikaba ari ingenzi cyane kuko cyo gifatanye n'ibindi bimera bibasha kwifashishwa n'umuganga gakondo akabikoramo umuti w'akataraboneka uvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyapa kiriho amavase agiye atandukanye, aho buri vase yose igiye irimo igihingwa gitandukanye n'ikindi, ibi bihingwa byose bikaba byifashishwa hakorwa imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, kuri icyo cyapa hakaba handitseho mediko mpuransi.

Agacupa kari mu ibara ry'umuhondo, kakaba gapfundikije umufuniko w'umutuku. Iruhande hakaba hari ikimera kizwi nk'igikakarubamba. Mu bigaragara ni uko aka gacupa karimo umuti ukorwa muri iki kimera, bashyize iruhande rwacyo ari cyo gikakarubamba.

Etajeri irimo uducupa twinshi tugiye turimo imiti igiye itandukanye, utu ducupa turimo imiti ikozwe mu bimera gakondo aho iyi miti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, iyo umuntu afite ikibazo aragenda akagura uno muti ukamufasha.

Imiti gakondo burya n’imiti ibasha kuvura indwara zigiye zitandukanye. Aha hari utuvaze twinshi tugiye dutandukanye turimo ubwoko bw'imiti gakondo igiye itandukanye, abaganga gakondo basekura bagahuriza hamwe bikavamo umuti mwiza uvura abantu.

Igihingwa ubona ko ari igihingwa gitoshye cyane, kikaba kiri mu ibara ry'icyatsi, iki gihingwa kikaba gikorwamo imiti igiye itandukanye ya gakondo, kuko iki ari igihingwa kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Akantu kameze nk'agakoko kariho ibimera bigiye bitandukanye ndetse hakaba hariho n'agasekuru ndetse n'umuhini, bifashisha basekura iyi imiti gakondo kugira ngo bayitunganyemo imiti myiza kandi myinshi ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hameze nko mu rugo hari ikibambano, muri icyo kibambano hakaba haramezemo ikimera gisa neza cyane ubona ko gifite amababi atoshye, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukorwamo imiti myinshi igiye itandukanye ya gakondo.

Ubwoko bw'imiti gakondo iri mu ducupa tugiye dutandukanye, imbere hakaba hari indabyo z'ibimera iyo miti ikorwamo. Ikaba iri mu ducupa dutandukanye ariko yose ikaba ikorwa na foreva.

Ameza ateretseho udukoresho tubiri dutandukanye, kamwe kakaba kariho ibimera by'ibyatsi ndetse akandi kameze nk'isekuru karimo ibyatsi ndetse n'umuhini bifashisha batunganya imiti ya kinyarwanda, imbere hari ibimera byinshi byifashishwa bakoramo iyo miti gakondo.

Ni ahantu ubona ko hirengeye, hahinze ibiti byinshi ndetse hari n'ibyatsi, ibi bikaba ari ibiti byifashishwa n'abavuzi Gakondo bakoramo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, aho babifata bakabivangavanga bakabitunganyamo imiti yabugenewe ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba gafite umufuniko w'umweru, kuri ako gacupa hariho icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, kakaba karimo imiti gakondo iva mu bimera bigiye bitandukanye, aho abaganga gakondo bavangavanga ibimera bagakuramo imiti yabugenewe ivura indwara zitandukanye.

Ahantu hagaragara nk'aho ari ahantu hahinze, hakaba hahinze ikimera, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukurwamo imiti igiye itandukanye kuko na cyo kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye, ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye. Kuri utwo ducupa hariho igihingwa cy'igikakarubamba. Ndetse impande y'utwo ducupa hariho ikindi kimera ndetse n'ikibabi cy'igikakarubamba.

Ni ahantutu hahinze ibimera byinshi bigiye bitandukanye hakaba hari ikimera cyiza cyane ubona ko gitoshye gifite amababi atohereye, iki kikaba ari ikimera cyifashishwa hakorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ahantu hari ibimera by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, hakaba hateretse agasekuru kari mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhini wako, aka gakoresho kakaba kifashishwa mu gusekura iyi miti igiye itandukanye mu gihe bari kuyitunganya ngo bayikoremo imiti'ikarabutaka, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Icyapa kiriho amashusho y'umugabo ndetse n'umugore hakaba hariho agacupa karimo umuti ukozwe mu bimera gakondo bizwi nk'imiti gakondo, uyu muti ukaba witwa revive igisubizo ku muryango, ukaba uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo kurangiza, vuba gucika intege ndetse n'ibindi.

Agacupa karimo umuti ukozwe mu bimera karemano, akaba ari umuti uzwi nk'umuti wa gakondo. Kuri ako gacupa kandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'icyatsi, agira ati; "Alowe, jojoba, shampo".

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kakaba gapfundikije umufuniko w'umweru, aka gacupa kakaba karimo umuti gakondo uvura ibintu byinshi bitandukanye, kuri ako gacupa hariho icyapa cyanditseho ngo Forever daily.

Aha hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye, buri kantu kakaba kariho ubwoko bw'umuti ugiye utandukanye, iyi akaba ari imiti gakondo ikurwa mu bimera bigiye bitandukanye hirya hari agasekururo kabugenewe ndetse n'umuhini wako, basekuririsha iyo miti kugira ngo babashe kuyikuramo imiti myiza kandi ivura abantu benshi.

Uducupa twinshi dutandukanye turimo imiti gakondo igiye itandukanye, iruhande rwatwo hakaba hari ibimera byifashishwa hakorwa iyi miti, iyi miti ikaba ari imiti ivura cyane ndetse hariho igihingwa kizwi nk'igikakarubamba handitseho ijambo rigira riti vegan.

Igiti cyiza ubona ko gitoshye gifite amababi meza ndetse n'uturabo, iki akaba ari kimwe mu biti byifashishwa bakora imiti ya gakondo yifashishwa n'abaganga bavura abarwaye indwara zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuti uri mu gacupa gapfundikije umuvuniko w'umweru, kuri ako gacupa hakaba hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru cyandikishije amagambo y'umukara. Hakaba handitseho ngo "Forever hand sanitizer." Uyu na wo akaba ari umuti ukorwa mu bimera karemano.

N’akaboko k'umuntu ariko utagaragara wambaye umwambaro w'ubururu, akaba afashe ku kimera aho arimo arareba icyo kimera icyo ari cyo. Iki kimera kikaba ari ikimera cyifashishwa gikorwamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni agacupa karimo umuti uva mu bimera gakondo, ikorwa n'abavuzi gakondo kifashishwa kavura indwara zitandukanye hakaba handitseho ngo halowe jojoba shampo.

Ni etajeri irimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye, utwo ducupa tukaba turimo amoko y'imiti igiye itandukanye. Iyo miti imyinshi muri yo ikaba ikorwa mu bimera, aho iyo miti izwi ku izina ry'imiti gakondo.

Abantu bambaye impuzankano ndetse hakaba harimo n'abandi bagabo babiri batayambaye, bari mu murima uhinzemo ibikakarubamba bigiye bitandukanye, ibi bikaba ari bimwe mu bimera byifashisha hakorwamo imiti gakondo.

Ni imiti myinshi igiye itandukanye, iri mu bwoko butandukanye, iteretse ku meza. Hari iri mu ducupa ndetse hari n'ibimera bitandukanye. Hari ibimera bikorwamo imiti imeze nk'ibinini, iyo yose akaba ari imiti gakondo yifashishwa havurwa indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye utu ducupa tukaba turimo imiti ikozwe mu bimera byifashishwa n'abantu gakondo bakora imiti gakondo, iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye ndetse tumwe mu ducupa inyuma hariho ikimera cy'igikakarubamba.

Mu miti myinshi igiye itandukanye abantu dukoresha, usanga iyo miti iba yarakozwe mu bimera. Aha ngaha hakaba hari ikimera kimeze neza cyane ubona ko gifite uturabo twiza. Iki kimera kikaba na cyo ari kimwe mu bimera byifashishwa hakorwamo imiti gakondo, yifashishwa n'abantu barwaye indwara nyinshi zitandukanye.

Ikibabi ubona ko gitohereye gisa n'ibara ry'icyatsi, kikaba kiriho utunini dufunze neza. Utu tunini mu bigaragara ni uko twakozwe muri iki kibabi kiri hano, akaba ari imiti ivangavangwa igakorwa mu buryo bwa gakondo.

Ahantu hameze nko mu nkingi y'urugo, aho ubona hari ikibambano, hakaba harimo ikimera cyahameze, iki kimera kikaba cyifashishwa hakorwamo imiti igiye itandukanye. Ikaba ikorwamo n'abavuzi gakondo aho bakoresha ibimera karemano bigiye bitandukanye.

Ni ba mukerarugendo gusa ubona ko bari mu mpinga y'umusozi, imbere yabo hari guturuka yo amazi agenda mu misozi, ndetse ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hakaba hari ibiti by'ishyamba, gusa bitewe n'intego bafite bagomba kugenda uko byagenda kose.

Ni etageri irimo ubwoko bw'uducupa burimo imiti bugiye butandukanye, iyi miti ikaba ar’imiti ikozwe mu bimera bya kinyarwanda, aho har’imiti ya gakondo yifashishwa n'abaganga bavura abantu indwara zitandukanye.

Uducupa tw'ubwoko bugiye butandukanye turimo imiti ikozwe mu biti gakondo ndetse iyo miti ikaba ikoreshwa n'abaganga ba gakondo bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo miti akaba ari imwe mu miti ya foreva.

Ni umuntu ugaragara nk'aho ar' umuganga, akaba agaragara igihimba gusa umutwe utagaragara neza, mu biganza bye afashemo imiti y'ubwoko butandukanye. Iyi akaba ari imiti ivuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye aho iyo miti nayo usanga ikozwe mu bihingwa karemano byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo.